Abantu benshi bicaye bari mu nama, imbere yabo hari abandi bagera muri batandatu, bari bakoresha iyo nama. Hari inyuma yabo icyapa cyanditseho n'insanganyamatsiko bari kuvugaho muri iyo nama. Kiriho n'umugabo wambaye ikositimu na karuvati.

Aha turahabona utuntu dusa umuhondo, turambitse ku kintu gisa ubururu, bigaragara ko ibi ari ibikoresho byifashishwa batanga serivisi nyinshi zigiye zitandukanye zegeranye n'ubuvuzi.

Abantu b'abagabo bahagaze bari gusuhuzanya ni abagabo bagera kuri batanu, babiri muri bo bari gusuzanya, undi umwe n'umuzungu ahagararanye n'umugabo wambaye ikintu cy'umweru, undi yambaye ikositimu n'amadarubindi, inyuma yabo handitseho ngo bibiri na cumi na karindwi.

Abantu benshi bicaye mu nama barebanye harimo abagore n'abagabo bambaye neza ,imbere ku meza hari udukoresho turimo ibyo kunywa ndetse hari na porojegiteri.

Umwana ukiri muto wambaye agapantaro k'umukara yazinze akaba yambaye n'agashati k'icyatsi, imbere ye hateretse indobo, ari kuvoma ku mugezi usa ubururu, ari gukaraba intoki kugirango ngo yigirire isuku.

Abantu benshi bateraniye hamwe harimo abazungu bari gukoma amashyi, imbere yabo hari icyapa kivuga ngo dufite ibyiringiro ko buri mwana wese azamera neza, ndetse icyo cyapa kiri mu mabara y'ubururu, amagambo yandikishije umweru.

Abantu babiri bahagaze mu cyumba kwa muganga, hakaba hari ameza arambitseho ibyuma byifashishwa mu buvuzi, uwo mugabo yambaye imyenda y'icyatsi ari kumwe n'umugore wambaye ikanzu ikoze mu gitenge.

Umwana mutoya cyane ufite imisatsi ya kizungu ari imbere y'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, afite igicupa aho ari gusuka amazi bigaragara ko ari kucyoza kugira ngo agikoreshe ikintu runaka.

Abantu benshi bateraniye mu nama bambaye imipira y'umweru, bose bakaba barebye imbere bakurikiye, bigaragara ko imbere hari umuntu uri kubakoresha iyo nama.

Umwana wambaye agapira k'umweru n'agapantaro k'umutuku yazinze, afite amavido atatu, harimo imwe ari kuvoma kuri robine itanga amazi mu buryo bwa rusange, mu nshe z'ibyaro.

Abantu babiri bishimye bari guseka, harimo umwana wambaye agapira k'umutuku ndetse n'umugabo wambaye agapira k'ubururu bose barirabura cyane, umugabo ari gukorerara umwana ikijerekani cyanditseho Unicef.

Umugabo wambaye agashati kagiye karimo imirongo y'umukara gasa umweru, afite umwana imbere ye agiye guha umuti, uwo mwana ari kumwe na nyina witandiye bigaragaza ko ari umu Isilamu. Inyuma hari umugabo wambaye imyenda y'umweru hejuru uri kwandika ku mafishi, inyuma hari abandi bantu benshi cyane.

Abantu bari ku ivomero rusange, aho bagiye gushaka amazi yo kunywa n'abantu benshi hari amajerekani, amabase ndetse n'amavido byinshi bitandukanye, bose baje gushaka amazi.

Abantu bicaye bigaragara ko bari mu nama, bamwe bambaye impuzankano z'umweru abandi bambaye icyatsi buri wese ku kameza imbere ye hateretse amazi yo kunywa, bafite n'amakayi n'amakaramu bari kwandika ibyavugiwe muri iyo nama.

Sale nini cyane iri gukorerwamo inama, hicayemo abantu bicaye barebanye ndetse buri wese imbere ye hateretse agacupa, mu ruhande rwo hepfo hari n'abafite udukayi bari kwandikamo ibiri kuvugirwamo, iyo nyubako ifite ibirahure byiza ndetse n'imbere hari insakazamashusho.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati atukura, ikaba ifite ibikuta biteye irange ry'umweru. Ikaba iri impande y'ipoto ritwara insinga z'amashanyarazi ndetse ku mpande zayo, hakaba hari ibiti byinshi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abajyanama b'ubuzima benshi cyane bateraniye hamwe, bari gukoma amashyi bacurira bigaragaza ko bishimye, imbere hicaye umusore cyangwa umugabo wambaye agashati k'umweru n'ipantaro y'umukara, imbere hari ubusitani ndetse aho bari hasakaje amashitingi y'umweru.

Leta yashyizeho ingamba zo kugira kandagira ukarabe kuri buri rugo mu buryo bwo kwimakaza isuku, hano turahabona umugabo wambaye yatebeje ari gukaraba kurikandagira ukarabe, bigaragara ko ari umunyesuku.

Umusore wambaye agapira k'ubururu, ari kuganira n'undi mugenzi we wambaye agapira cyangwa ishati y'umweru, bari mu inyubako irimo abantu benshi ndetse ifite na parafo y'umweru.

Umwana mwiza cyane ukiri mutoya wambaye imyenda y'umutuku idoze mu bitenge akaba afite imisatsi izinze, ari gukaraba intoki kuri rubine aho akarabira mu ibase y'umukara, bigaragara ko ababyeyi be bamutoje gukaraba intoki ngo agire isuku.

Umugore witeze igitambaro yambaye amaribaya akaba afashe umwana mu ntoki hakaba hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru ari kuvura uwo mwana ni byiza kuzana umwana hakiri kare kwa muganga indwara itaramuzahaza.

Umugore wambaye agapira k'icyatsi, akaba afite n'imisatsi ya menshi y'umukara, imbere ye hari umugabo wambaye akajire k'umukara kanditseho ikigo cyita ku buzima ku isi, imbere yabo hari akameza kariho imiti yifashishwa mu buvuzi igiye itandukanye.

Uburyo bwa kandagira ukarabe ni uburyo bwashyizweho na Leta y'u Rwanda kugira ngo barwanye umwanda ndetse n'indwara ziterwa n'umwanda. Nk'uko tubibona, uyu mugore akandagiye kuri kandagira ukarabe, ari gukaraba kandi arishimye, inyuma ye hari idirishya rifunguye.

Nkiri mutoya najyaga nganira na sogokuru, agenda ambwira ibintu bitandukanye. Yambwiye ko ikintu cya mbere gihenze ku isi ni ubuzima. Kandi ubuzima tubuhabwa n'umubyeyi w'umumama, Urabona ko uyu mugore ari kwita ku mwana we amwishimiye cyane. Ni byiza ko duha agaciro ba mama bacu.

Inama ngarukamwaka iba ku Isi, yita ku buzima bw'abatuye Isi, harimo abantu benshi cyane bicaye bakurikiye inama, ndetse hari abandi bantu bagera muri batandatu imbere bicaye bari bakoresha iyo nama, inyuma hari icyapa kigaragaza abantu barabaganiriza muri iyo nama kuko hariho amafoto yabo.

Umugore wagiye kuvuza umwana yambaye umupira w'ubururu urimo uturongo tw'umweru ateze igitambaro cy'igitenge, umwana arikumwe na muganga ari kumutera urushinge bigaragara ko ari kumukingiza, muganga yambaye itaburiya y'umweru.

Ivomero rusange hariho umugore ufite amajerekani atatu ari kuvoma, hakaba hari n'icyapa cyanditseho ngo "isuku n'isukura mu Rwanda hifashishijwe amazi."

Igikuta gisa ubururu. Kikaba kiri gutanga amazi. Imbere hari umugore washyize umwana mu ibasi ari kumwoza. Ku ruhande hari undi mwana uri gutega ibiganza kuri ayo mazi. Ku rundi ruhande hari umugore ufite indobo ndetse akaba afite n'umwana imbere ye.

Umugore wambaye iribaya afite umusatsi karemano w'umukara ari guseka, afashe umwana yajyanye kwa muganga, hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru ari kumuha umuti, ni byiza kujya kuvuza umwana hakiri kare igihe tukibona kimwe mu bimenyetso mpuruza.

Umwana ukiri muto, uteze ibiganza kuri robine, ari gukaraba intoki akarabira mu ibase iy'umukara. Uyu mwana yambaye imyenda y'umutuku ndetse asutse, ni byiza cyane gutoza umwana isuku akiri muto, kuko ayikurana kandi mu Kinyarwanda baravuga ngo ''igiti kigororwa hakiri kare''.

Abana babiri bari ahantu hari robine batezeho intoki bari gukaraba, bigaragara ko bari gukorera isuku intoki zabo, batojwe umuco wo kugira isuku n'ababyeyi, ni byiza cyane, ni byiza ko dutoza abana bacu isuku bakiri bato.

Mu cyaro haba hari amavomero rusange, aho umuntu yishyura amafaranga makumyabiri ku ijerekani y'amazi, hari umwana waje kuvoma akarindwi ndetse n'undi mugenzi we uri kumuvomera. Ruguru yabo hari abana bari kuva ku ishuri b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri.

Umwana ufite indobo z'umweru, yambaye na we imyenda y'umweru irimo utudomo tw'umukara, aho ari kuvoma ku ivomero rusange, hirya ye hari ibiti byumye ndetse n'ibindi biti bifite amababi atoshye.

Umugabo uri gusuhuza umwana, uwo mwana akaba agaragara nk'udasa neza, umugabo yambaye agapira k'umuhondo, imbere hari abandi bantu benshi cyane bicaye, bigaragara ko bari mu nama.

Abantu babiri bari guhererekanya indobo isa icyatsi, umwe ameze nk'uri kuyikorera undi, inyuma hari inzu isakaje ibyatsi, bakaba bari mu mbuga y'ibitaka, hakurya haba hari akantu kameze nk'agazozi kariho ibyatsi by'icyatsi.

Umugore ucigatiye umwana ari guseka yambaye iribaya, uwo mwana yambaye imyenda y'umweru, hari umuganga wambaye amaherena n'itabiriya y'umweru, umufashe ari ukumuha umuti, ni byiza kuzana umwana kwa muganga igihe cyose ubonye ibimenyetso mpuruza.

Abantu batandukanye harimo abana batoya n'umugabo wicaye wambaye akagofero k'abayisilamu, hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru, hari n'undi mugabo uhagaze wambaye agapira k'umutuku n'akajiri k'umukara akaba ari kubereka uburyo wakwita ku buzima bwawe.

Abantu benshi bambaye impuzankano z'ubururu n'umweru, bambaye n'ingofero z'imyeru. Bafite icyapa cyanditseho ngo: ''Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri. Isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura.''

Ni abana bagera muri batandatu, harimo abakobwa bane ndetse n'abahungu babiri. Abakobwa bambaye impuzankano zisa n'abahungu bambaye izisa. Bose bafite udukombe mu ntoki, bari kuvana amazi mu kigega bakanywa. Ubu ni uburyo bwiza bwashyizweho kugira ngo hirindwe amazi yanduye. Ikigega kirasa umukara, hirya hakikijwe ibibati bishaje.

Umugore uvuye kuvoma amazi mu ndobo ebyiri, yikoreye iy'umutuku ndetse afashe iy'umuhondo mu ntoki, imbere ye hari ibiti bisa n'aho byumye biragaragara ko ari mu mpeshyi.

Umuryango wita ku buzima ku Isi, hakaba hari umubumbe w'Isi, ukikijwe n'uturongo dutatu tw'icyatsi, n'utundi tw'ubururu, bigaragaza ko wita ku buzima bw'abaturage batuye iy'Isi.

Umwana uri kuvoma amazi kuri robine, akoresheje igikombe cy'icyuma, akaba agiye kuyanywa. Ni byiza ko twese twazajya tunywa amazi dukoresheje ibikombe kuko bituma tugira isuku, kandi isuku ni isoko y'ubuzima.

Abantu bateraniye hamwe, harimo abambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu, hakaba kandi n'abandi bari kuza imbere bambaye amakositime, bigaragara ko bari kwiga ku bintu by'ubuvuzi. Hakaba hari inyuma kandi umugabo wambaye ikositimu na karuvati, ari gufotora.

Abantu benshi cyane bicaye mu cyumba cy'inama, harimo abambaye impuzankano zisa ubururu bafite udupapuro. Iki cyumba gisize amarangi y'umweru gifite na purofu z'umweru.

Ahantu hari igishushanyo cy'uruziga kiza cyane, kiriho utuntu tw'utwuyuma, ndetse biryoheye ijisho kukireba. Hakurya hari ibiti byinshi cyane ndetse n'ibyatsi.

Aha turahabona abantu bagiye batandukanye, aho bambaye imyambaro y'impuzankano y'ubururu ndetse n'amataburiya y'umweru, bigaragara ko ari abaganga kuko bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima.

Abantu benshi bateraniye hamwe bambaye impuzankano ziri mu ibara rya oranje, harimo abagore ndetse n'abagabo, bamwe muri bo bateraniye ahantu, bari kubaka akarima k'igikoni.

Abagabo bicaye bateraniye mu cyumba k'inama, bari kureba imbere bigaragara ko bakurikiye umuntu uri kubaha ikiganiro, buri wese imbere ye ateretse agacupa karimo amazi yo kunywa.

Abana benshi cyane b'abanyeshuri bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, hasi bakaba bari gufungura amazi muri kandagira ukarabe zisa ubururu kugira bitoze isuku.

Abantu benshi cyane bambaye amataburiya y'umweru na baji z'akazi n'abandi bambaye imyenda y'umukara, barahagaze abandi baricaye, bari kwifotoza, bigaragara ko bari mu nama yiga ku bijyanye n'ubuvuzi, inyuma yabo hariho ibyapa bivuga icyo bari bari kwigaho.

Umugezi wa robine ufite igihombo cyatoye umugese kiri gusohora amazi, hakaba hari intoki z'umuntu uri kuyakaraba wambaye umupira w'umweru ariko utari kugaragara mu maso.

Abagore babiri ndetse n'abagabo babiri, bicaye ku meza, inyuma yabo hari amarido y'ubururu n'umukara. Bari kwandika ibintu bigiye bitandukanye, bari mu nama, ndetse imbere yabo buri wese hateretse icupa ririmo amazi.

Abantu benshi cyane harimo abagabo n'abagore, bateraniye ahantu, abagabo bambaye amakositimu ndetse bari kwifotoza bavuye mu nama, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko inama yavugagaho.

Ikigo cyita ku bana inisefu kiri kuvuga ngo buri mwana wese agomba kwitabwaho akagira ubuzima bwiza, byanditse mu mabara y'umweru ndetse aho byanditse harasa ubururu, hari igishushanyo cy'umubyeyi uteruye umwana yishimye.

WASAC akaba ari ikigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura mu Rwanda, kikaba kikugezaho amazi aho waba uherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda. Amazi ni ingirakamaro cyane kuko kimwe cya kabiri cy'ubuzima tugikesha amazi.

Igihombo kiri gusohora amazi, hakaba hari ikiganza, kiri gutega ayo mazi, ndetse munsi hari umugezi w'amazi.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bambaye impuzankano ziri mu ibara rijya gusa oranje, harimo abagabo bari kugaburira abana amata kugirango barwanye bwaki..

Umwana uri gukaraba amazi ku migezi ya kizungu hahandi utega amazi intoki, amazi akizana, yambaye imyambaro y'ishuri ni umunyeshuri, ari gukora isuku kugira ngo agire ubuzima bwiza, inyuma ye hari ibiti bifite amababi yumye ndetse hari n'utunyubako duto dutandukanye.

Umukobwa mwiza cyane usutse imisatsi yameshi akaba yambaye agapira k'amaboko magufi hirya ye handitse umuvugo ugaragaza uburyo umuntu yaba umufatanyabikorwa.

Abana bagera muri batandatu barikuvoma amazi ku mavomero rusange ariko ya yandi azana amazi ari uko hari umuntu urigupomba. Barikuvomera amazi mu ndobo z'umuhondo. Bose bambaye impuzankano zijya gusa kaki.

Umugore n'umugabo bishimye bicaye ku ntebe z'amashezi, imbere yabo hari umujyanama w'ubuzima wambaye itaburiya ndetse n'ishezi iriho impapuro, umujyanama w'ubuzima afite icyapa cyangwa igipapuro mu ntoki, ari kubigisha uburyo bwo kuboneza urubyaro, nabo barishimye kandi barakurikiye.

Abakobwa benshi cyane ndetse n'abasore, bahuriye ahantu hamwe bamwe bicaye abandi bahagaze, harimo abambaye amataburiya y'umweru abandi bakaba ari ntayo bambaye, inyuma yabo hari icyapa kitagaragara neza kigaragaza inama bari barimo, imbere yabo hari tapi zisa icyatsi.

Ikigo mpuzamahanga ku isi kita ku buzima, gishushanyije mu birango byacyo biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, harimo agakoni gashushanyijeho ikintu wagira ngo ni inzoka iri gucira.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, hari izubatse mu buryo bw'uruziga, hari n'izisakaje amabati y'umutuku, zikaba zifite ubusitani bwiza cyane, uko bigaragara akaba ari ibigo byita ku bijyanye n'ubuvuzi ariko buherereye hano mu Rwanda iwacu.

Aha ni abantu bari guterura ibintu bigiye bitandukanye, aho hari abamama babiri bateruye umufuka bagiye kuwushyira abagabo bari imbere kugira ngo bawupangane n'indi mifuka, abo bamama biragaragara ko ari abo mucyaro.

Umuntu wateze amaboko ye kuri kandagira ukarabe isa ubururu, amazi akaba ari kuza, ashoboye kuba ari gukaraba, ibi ni ingenzi kuko bidufasha kwimika isuku.

Umwana ukiri muto w'umukobwa uri kuvoma amazi yadubitsemo akabido, aho amazi ari kuyavoma ayahagazemo. Ibi ngibi bizana umwanda kuko amazi ntabwo aba asukuye. Niba ushaka amazi, jya kuyavoma kuri robine niho aba ari meza.

Abana benshi cyane bari ku ivomero, rifite igihombo cyambutse ariko kigenda gisohora amazi mu duce twose, hakaba hari n'ibase munsi iri kwakira ayo mazi, inyuma yabo hakaba hari abandi bana benshi cyane na bo bategereje gukurikiraho.

Mu cyaro hakunze kuba hari amavomero, aho umuntu umwe avoma undi ari gupomba afite icyuma ari kunyeganyeza. Aba ni abagore babiri bari kuvoma muri ubwo buryo. Umwe arunamye ari kumesa ndetse undi ari kujegeza icyo cyuma kugira ngo amazi abashe kuza.

Umugabo wicaye ku gatebe, imbere ye hari ibitabo kuri ako gatebe. Yambaye bote n'ipantaro y'umweru. Imbere ye hari umugore wicaye ku ntebe y'ubururu y'abasirimu, acigatiye umwana, afite impapuro mu ntoki, bigaragara ko yaje kumuvuza.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama cyo kwa muganga, gitangirwamo serivisi nyinshi zigiye zitandukanye, harimo umugore ucigatiye umwana ufite akamverope mu ntoki ndetse na mituweli, bigaragaza ko yaje kuvuza umwana we.

Abagore ndetse n'abagabo bahagaze imbere y'abana, abo bana bambaye impuzankano bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, imbere hari abagabo bafite kamera bari gufotora.

Abantu bambaye amataburiya y'umweru, bigaragara ko ari impuzankano. Aba ni abaganga kuko bifotozanyije n'umugabo wambaye ikositimu, bigaragara ko ari umuzungu. Aba, bari bari gukora inama none barayirangije.

Umwana wafunguriye amazi mu ndobo, ariko akaba ari kuyatangirira mu kirere ayanywesha ibiganza bye, ibi ntabwo ari byiza kuko ushobora kunywa mikorobe zivuye mu ntoki zawe, ni byiza ko igihe cyose ugiye kunywa amazi ukoresha igikombe gisukuye.

Umugore w'inzobe usa n'ushaje ari guseka yambaye amadarubindi, inyuma ye no ku mpande ze hari abana, bose barebye imbere hari icyo bari kureba imbere umuntu atabasha kumenya.

Umudamu ucigatiye umwana, akaba ari gufungura amazi ku mugezi, ayafungurira mu ndobo y'umukara kugira ngo ajye kuyakoresha, maze bagire ubuzima bwiza, amazi ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi.

Abana bambaye impuzankano za kaki, biragaragara ko ari abanyeshuri, bari ku kigo cy'amashuri, bari gukaraba intoki ku mugezi ndetse bari gusukura intoki zabo. Uyu ni umuco mwiza ku bana bakiri bato.

Abadamu babiri bunamye harimo umwe uri kunywa amazi akoresheje intoki ndetse n'undi uri gukoresha agakombe, imbere yabo hateretse amabido abiri, inyuma y'umugezi hari umugore wambaye agapira k'umutuku n'agapfukamunwa ari kubwira uri kunywesha amazi intoki ko bitemewe.

Umugore uri kuvoma amazi ku ivomero rusange, aho uvoma ijerekani imwe ukishyura amafaranga makumyabiri y'amanyarwanda, umugore akenyeye igitenge cy'icyatsi ndetse yambaye agapira karimo amabara y'iroza, gatambitsemo uturonko tw'umweru, hakurya hari imisozi myiza cyane.

Ubwisungane mu kwivuza n' uburyo bwashyizweho na Leta y'u Rwanda, kuri aya meza turi kuhabona abagore ndetse n'abana babo bari kugenda berekwa n'abaganga aho basinya hanyuma bagasinya buzuza ibyangombwa.

Umugore ufite ibisuko bya meshi akaba ahetse umwana mu gitenge, yambaye agapira k'icyatsi n'igitenge yakenyeye, afashe indobo mu ntoki ifite umufuniko w'umutuku nayo isa umuhondo, ku mpande hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Umumama ucigatiye umwana imbere hakaba hari umugabo wambaye amadarubindi n'agapira k'umuhondo, ufashe agasahani ari kuvanaho utuntu two kurya ari gutamika uwo mwana, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umugore ucigatiye umwana ari guseka, hakaba hari umuganga na we wambaye itaburiya n'amaherena, afashe uwo mwana ari kumuhereza umuti, ni byiza cyane kujyana umwana hakiri kare kwa muganga, atarazahazwa n'indwara.

Umukecuru wagiye kwa muganga gushakayo serivisi. Akaba ari kumwe n'umuganga wambaye udupfukantoki tw'umweru n'itaburiya y'umweru, amufashe intoki ze ari kureba ikibazo afite. Hirya hari umusore w'umukorerabushake, hari n'abandi baganga bari hino y'uwo muganga.

Abantu bicaye ari benshi harimo abagabo n'abagore ndetse harimo n'ushinzwe umutekano w'umugore wicaye, bakaba bari mu nama bicaye ahantu hari ihema ribatwikije, riri mu mabara y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, imbere hari umugabo uhahagaze ari kubakoresha inama.

Umusaza w'umwisilamu wambaye imyenda n'akagofero bya kisilamu, hakaba hari umugabo imbere ye ufite uruntu rw'uguma, ariko uyu mugabo n'umuganga ari kumusuzuma, inyuma yabo hari akana gato kambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara.

Ni kwa muganga aho hari umwana uryamye ari kumwe na mama we wicaye ahangayitse, ariko ku ruhande hakaba hari abaganga babiri bafashe ukuboko k'uwo mwana bari kumuvura. Babwira mama we ngo ntagire ikibazo kuko umwana ari mu maboko y'abavuzi.

Umwana wambaye agashati k'ubururu akaba ari koza ikijumba mbere yuko akirya, hari kandi umuntu uri kumusukira amazi akoresheje ijage y'icyatsi, ni byiza rero kugira isuku tukajya twoza ikintu cyose mbere yuko tukirya.

Umugabo wambaye agapira agasa oranje, ari kureba umwana ndetse amufashe nawe wambaye agapira oranje, ateruwe na mama we wambaye agapira k'umweru, muri icyo cyumba harimo n'abandi bantu benshi baje gushaka izo serivisi.

Umugabo wambaye ikote ry'ikositimu ari kumwe n'umugore we. Hirya hari umugore ucigatiye umwana ndetse kuru rundi ruhande hari abana bagera muri bane biragaragara ko bishimye bafite ubuzima bwiza buzira umuze n'amaganya,

Abantu benshi b'abayobozi bicaye ahantu, bamwe bahagaze inyuma, harimo abagore ndetse n'abagabo, abirabura ndetse n'abazungu. Inyuma yabo hari icyapa kiri kugaragara mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Icyapa kiri kwamamaza, aho bavuga ngo: "Buri wese aho yaba ari hose ashobora kugerwaho n'uburyo bw'ubuzima." Ni byiza kugira imitekerereze myiza, uyu mugore uri hano arishimye, ari guseka, bigaragaza ko atekereza neza.

Icyapa cyamamaza aho bita ku ndwara z'imitekerereze, aho yita ku buzima bwawe waba uhangayitse ufite agahinda, uragenda bakakuganiriza ugataha umeze neza wabyibagiwe.

Umuntu w'umukecuru ushaje cyane, yambaye imyenda y'umweru, aho inyuma ye hari Idarapo ry'u Rwanda, akaba yasohotse ku cyapa cyanditseho amagambo avuga ngo turi kumwe.

Ni abantu babiri harimo umwe wambaye imyenda y'umukara n'amadarubindi, n'undi wambaye imyenda y'umutuku n'ingofero. Uwambaye iy'umukara ari kuganiriza uyu w'i by'umutuku kuko yitangiye ku itama bigaragaza ko ahangayitse.

Abantu benshi bagiye batandukanye harimo umugore wambaye ikanzu y'icyatsi n'agapira k'umweru, hari n'abagabo benshi n'abagore batandukanye bari kwifotoza bigaragaza ko bari bari mu nama, ku ruhande hari icyapa kivuga insanganyamatsiko bavugagaho.

Umugabo wambaye imyenda isa ubururu, ufite imisatsi y'umukara wagira ngo ni Lucky Dube, akaba afite amenyo yakubutse, bigaragaza ko afite ikibazo cyangwa uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu batandukanye harimo abambaye impuzankano z'abashinzwe umutekano ndetse n'abagabo n'abagore n'umukobwa bari kwifotoreza ahantu hamwe, inyuma yabo hari icyapa cy'umutuku ndetse n'icy'ubururu.

Abantu benshi cyane bateraniye muri sale iberamo inama, harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo abambaye amadarubindi; bigaragara ko bari kwiga ku kibazo cy'imitekerereze ndetse n'ibijyanye n'ubuzima bw'imitekerereze. Inzu barimo iteye amarangi y'umweru.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe akaba yambaye ubusa ndetse yitwikiriye uducankana, afite umusatsi wa menshi, ari gusuhuzanya n'umugabo wambaye agashati k'amabara y'ubururu n'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, ibikuta by'inzu barimo bisa umweru.

Abantu benshi cyane batandukanye bakaba bafite banderore, bari kwifotoza bigaragara ko bari mu nama, muri abo bantu harimo: abagore, abakobwa, n'abagabo n'abasore. Icyo cyapa cyanditseho insanganyamatsiko bavugagaho mu nama.

Abantu batandukanye bicaye ahantu hamwe barebye imbere, hari umudamu wambaye ikanzu y'igitenge afite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga. Bigaragara ko ari gutanga igitekerezo cye abandi na bo baramukurikiye, hari mudasobwa imbere yabo ndetse n'amazi yo kunywa.

Abantu bahagaze ndetse n'abicaye ahantu hamwe bigaragara ko bari kwifotoza, bakaba bari bashoje inama bari barimo, inyubako barimo ni nziza cyane, irimo amatara meza n'ibyapa byiza inyuma yabo byanditseho ngo RBC, akaba ari ikigo cyita ku buzima mu Rwanda.

Imodoka nziza isa umweru, ikaba yanditseho icyapa kivuga ngo gutaha ku mugaragaro ibitaro byita ku ndwara z'imitekerereze biherereye mu Karere ka Bugesera.

Umugabo w'umuzungu wambaye agashati ka karokaro n'ipantaro y'umweru, ahagaze imbere y'icyapa kigaragaza aho bavura abarwayi cyangwa abafite uburwayi bwo mu mutwe. Iki kigo cyitwa karayesi giherereye i Huye.

Abantu babiri harimo umugore n'umugabo bambaye amataburiya y'umweru, bari ahantu bafashe ku kintu gishushanyijeho udutwe tw'abantu bagera muri bane, mu mabara atandukanye.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe harimo abana ndetse n'abasore n'abakobwa n'abagabo bakaba bari mu nyubako nziza bakoreragamo inama ifite ameza meza ndetse na purafo isa igitaka.

Icyapa cy'ubururu kiriho utuziga tugera muri dutanu, kamwe kariho umwana ukiri muto wicaye, aka kabiri karimo umugore n'umugabo bafashe umwana mu ntoki, aka gatatu karimo umuntu wunamye ari gukora utuntu, aka kane karimo umugore utwite, aka gatanu karimo umuntu umeze nk'aho ari gutekereza yumiwe.

Umukobwa wirabura uri guseka yambaye agapira gasa umutuku, inyuma ye hari inyubako iteye irangi ry'umweru uyu mukobwa uko bigaragara asa n'ufite uburwayi bwo mu mutwe.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, urabona ko agenda atoragura amashashi, yambaye imyenda y'ubucankana, ndetse ari kugenda atoragura ibintu byose abonye.

Umuntu wunamye wifashe mu mutwe yambaye ibintu by'umweru, bigaragara ko uyu muntu afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kuko yunamye arebye hasi bigaragara ko mu bwonko bwe atameze neza.

Umusore wambaye agapira k'umuhondo, akaba ari guseka amwenyura yishimye cyane, bigaragara ko ari kwamamaza uburyo bwo kwirinda uburwayi bwo mu mutwe.

Umugabo wambaye ishati y'igitenge, yegamye ku rukuta arebye hejuru, bigaragara ko yahungabanye afite ikibazo cyo mu mitekerereze cyangwa mu mutwe, kuko atameze neza. Urukuta yegamiyeho rusa umweru.

Abantu benshi bateraniye hamwe harimo n'umwana wambaye agapira k'ubururu, bose bazamuye amaboko afashe amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda, ayo madarapo ari mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi bose, barishimye cyane.

Umugabo wambaye agapira k'umukara, wicaye ahantu, akaba yipfutse mu maso, bigaragara ko ahangayitse cyangwa yumiwe, inyuma ye hari igikuta gisize irange ry'ivu.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru iriho akarango k'ubururu, akaba yambaye neza bigaragara ko ari umuntu wiyubashye, akaba ari impande y'icyapa kiri kwamamaza.

Abantu benshi bateraniye hamwe bahagaze ari benshi cyane bigaragara ko bari kwifotoza, bakaba bari barangije inama y'inzobere ziga ku bijyanye n'ubuvuzi.

Umukobwa cyangwa umugore witandiye, wicaye arebye hirya, yambaye agasengeri n'akajiri, ndetse akaba yambaye akajipo k'igitenge, ari kureba hirya bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agashati k'amabara, ahagaze imbere y'inyubako nziza cyane isize amarange y'umutuku. Iyo nyubako ifite urubaraza rw'umuhondo ndetse ku mpande z'urwo rubaraza hari ibiti by'imikindo.

Abamama bagera kuri bane bicaye ku gatebe k'urubaho, imbere yabo hari umugabo wicaye ku rubaho nawe watebeje wazamuye ukuguru kw'ipantaro, akaba ari kubereka ikirenge cye nabo bamwitegereza.

Umukecuru ushaje cyane, aho yicaye hasi ari kugenda atoragura ibipapuro. Uyu nguyu rero, uko bigaragara afite uburwayi bwo mu mutwe. Ni byiza kumwegera, tukamuganiriza.

Umumama n'umukobwa bicaye bakikije ameza, umumama yambaye agapfukamunwa ndetse n'abari aho bose bambaye udupfukamunwa, hirya hari n'abandi bantu benshi bicaye mu dutebe twa kizungu tugezweho dusa umweru, bigaragara ko bari mu nama.

Umugore bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe, aho bigaragara yakonje isura, ari kureba yarakaye, ni ukuvuga ngo uramutse umwegereye cyangwa ukamubona ntuhunge akakwegera yakumena ruseke. Rero ni ngombwa kumuhunga kugira ngo atakonona.

Umukecuru ariko udashaje cyane yiteze igitambaro cy'igitenge ndetse yambaye n'imyenda idoze mu bitenge izwi nk'amaribaya. Ari guseka aranezerewe aho bigaragara ko asa n'ufite uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu bateraniye hamwe ariko hari kugaragaramo abagera muri bane n'ukundi kuboko kumwe k'umuntu, hari umumama wambaye akajire k'umukara wazamuye ukuboko ari gutanga igitekerezo muri iyo nama.

Ikigo gishinzwe Ubuzima mu Rwanda RBC. Gitanga ubuvuzi bugiye butandukanye, harimo ubuvuzi bw'abantu bafite indwara zo mu mutwe, aho babaganiriza bakamera neza.

Umugabo munini cyane wambaye ikositimu yunamye, imbere ye hari indabyo nyinshi cyane Hirya hari umukorerabushake wambaye akajiri k'icyatsi, uyu mugabo uko bigaragara yaje mu rwibutso ari kwibuka.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore, bafite icyapa imbere yabo bigaragara ko bari bari mu nama none ikaba irangiye, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Inyubako nziza cyane iteye amarange asa umweru, ifite ibirahure byiza cyane, imbere hakaba hari ibyapa bigaragaza iyo nyubako iyo ariyo, imbere hari ubusitani bwiza cyane.

Ikigo gifasha mu bijyanye n'ingufu zo gucana zijyanye n'imirasire y'izuba Mysol, hariho umudamu bagaragaje igice cyo hejuru bigaragaza ko akuriye icyo kigo. Nawe niba ucana cyangwa utuye mu cyaro nta muriro ufite gana Mysol bagucanire rwose nta nkomyi.

Umusore uri guseka mwiza cyane ufite amenyo meza cyane yambaye amadarubindi abonerana akaba afite ubwanwa ari kwerekana ko amenyo ye ari meza cyane yayagiriye isuku.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga aho bakurira amenyo, umuntu urwaye araza bakamwicaza kuri utu dutebe tw'amapine, hanyuma muganga akajya kumukura ayo menyo arwaye.

Umugabo wasamye ari guseka. Ari gusukura amenyo ye akoresheje urudodo. Ubu ni uburyo bwiza bwo gusukura amenyo, aho amenyo yawe uyasukura ntihagire umwanda na muke usigaramo.

Aha ni kwa muganga. Ni mu cyumba bakuriramo amenyo. Aho hari umurwayi wicaye ku gatebe yegamye, hari n'umuganga wambaye udupfukantoki, ufite icyuma, ari kumukura iryinyo.

Abantu benshi bari kwifotoza, harimo abagabo, abakobwa, abagore ndetse n'abasore, bakaba bari bari mu nama yari iri kwiga ku kibazo cy'amenyo cyangwa ku buzima bw'amenyo. Harimo abazungu ndetse n'abirabura.

Abana benshi cyane b'abanyeshuri, bari koza amenyo bakoresheje umuti wabugenewe uzwi nka korogati ndetse n'uburoso. Aba bana bambaye impuzankano. Biragaragara ko bamenye akamaro ko koza amenyo hakiri kare. Ni byiza ko dutoza abana bacu akamaro ko kugirira isuku amenyo yabo.

Umuntu uryamye wasamye, hari umuganga utari kugaragara mu maso wambaye udupfukamunwa tw'umweru, afite ibyuma, ari kumukura iryinyo.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, akaba ariko gusukura amenyo ye akoresheje urudodo, ari guseka arishimye ndetse ari kwireba mu ndorerwamo, ni byiza gusukura amenyo yacu dukoresheje urudodo nawe iyi nama nayiguha.

Aha ngaha ni kwa muganga. Ni mu nyubako iberamo serivisi zijyanye no gukura amenyo. Hari intebe zabugenewe umurwayi yicaraho mu gihe bari kumukura amenyo.

Umugabo uri guseka afite urudodo mu menyo bigaragaza ko yishimye ari gusukura amenyo ye akoresheje ubudodo, ni byiza gusukura amenyo yacu dukoresheje urudodo kuko bituma tumaramo imyanda yose amenyo ntagire ikibazo.

Umukobwa mwiza cyane wambaye itaburiya ijya gusa umweru n'ubururu, ari guseka ari kwireba mu ndorerwamo ndetse akaba afite n'ibisuko bya menshi, akaba ari mu cyumba cyita ku bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo.

Umugabo uri gusukura amenyo ye akoresheje urudodo, akaba atereye isume ku rutugu, bigaragara ko ari gukoresha urudodo mu menyo ye kugira ngo agire isuku ndetse imyanda iba yasigaye hagati y'amenyo ayivanemo.

Umukobwa mwiza cyane w'inzobe, ufite akuma cyangwa urudodo akoresha yoza amenyo, abaganga batugira inama yo kuzajya dusukura amenyo yacu dukoresheje ubudodo kuko ruvana imyanda yose yaheze hagati y'amenyo akamera neza.

Umuganga uri kureba muri mudasobwa ze, ari korebaba amashusho y'amenyo agiye atandukanye. Ari kureba n'imizi y'ayo menyo uko igiye imeze kugira ngo azabashe kuyakura neza.

Abantu bambaye impuzankano z'icyatsi bicaye imbere ku mashezi, inyuma yabo hari abaganga bambaye impuzankano z'umweru bari kugenda babakura amenyo ku bagiye bayarwaye.

Umuntu uri guseka yishimye cyane, nubwo isura ye itagaragara neza ariko ni mwiza, akaba atunze udutoki tubiri ku menyo ye meza asa umweru, bigaragara ko ayagirira isuku. Nawe nakugira inama yo kugirira amenyo yawe isuku kuko bituma ugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyuma cyiza cyane kiba kiri mu nzu y'ubuvuzi kwa muganga, aho iki cyuma kiri mu mabara y'umweru n'umukara, kikaba kifashishwa mu gukura amenyo. Niba nawe urwaye amenyo genda kwa muganga bayakure.

Ni byiza gusukura amenyo ukoresheje urudodo kuko bituma imyanda yose ishira mu menyo, urabona ko umuntu wasukuye amenyo akoresheje urudodo, agira amenyo meza ndetse akanaseka neza, nawe nakugira iyi nama.

Kwa muganga batugira inama yo koza amenyo yacu nibura gatatu ku munsi, uyu muco ni ngombwa ko tuwutoza n'abakiri bato bakajya bawukora, uyu mwana tubona afite uburoso bw'amenyo ari kuyoza bigaragara ko yatojwe isuku n'iwabo.

Umugabo uri guseka, wishimye cyane, akaba afite urudodo akoresha yoza amenyo ye, ni byiza cyane gusukura amenyo, dukoresheje urudodo kuko atuma nta mwanda usigara hagati y'amenyo kuko urudodo rugera hose.

Umugabo mwiza cyane w'inzobe uri guseka arebye imbere, hakaba hari intoki zambaye udupfukantoki zifite akuma ziri kumukoza mu ijosi. Bigaragara ko bari kumupima ngo barebe uko ahagaze.

Umukobwa mwiza cyane w'inzobe wahuje udutoki twe imbere y'umunwa we, ari guseka arishimye cyane ndetse ari no kureba neza, inyuma ye harasa umweru.

Umugabo mwiza cyane w'inzobe ari guseka, ari kumwe n'umuganga w'umugore, wambaye udupfukantoki tw'ubururu, ari kumukoza akantu mu menyo, bigaragara ko ari kuyasukura, inzu barimo isize irangi ry'umweru.

Umuntu uri guseka, ufite urudodo ari kogesha amenyo ye. Afite amenyo meza y'umweru, ndetse ibi ni ingirakamaro cyane, kuko ibi bituma amenyo yawe agira ubuzima bwiza ndetse ntapfe kurwara.

Umusaza ugeze mu za bukuru akaba arandaswe n'abantu babiri, umukobwa ndetse n'umuhungu, ni byiza cyane kwita ku muntu ugeze mu za bukuru, kuko nta rutege aba afite.

Uwo umugore wambaye imyenda y'ubururu, akaba afashe ibiganza by'umukecuru wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, akaba ari kumupima umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi ndwara.

Umukecuru ushaje ariko udakuze. Yambaye agashati k'umuhondo. Afite imisatsi ya kizungu isutse. Yambaye amadarubindi. Ari gusuka imiti mu kiganza, bigaragara ko agiye kunywa imiti yandikiwe na muganga kugira ngo amere neza.

Abantu benshi cyane bicaye ahantu bari kureba umukecuru ugeze mu zabukuru uri kuboha ibikoresho by'ubukorikori, hari umugabo ucigatiye umwana ndetse n'abandi bose bari kumwitegereza.

Umusaza uri guseka wambaye imyenda y'umutuku n'amadarubindi akaba afite n'imvi, ari kumwe n'umukecuru na we ufite imisatsi ya menshi, bari gusangira ku meza barya imbuto kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku n'amadarubindi imisatsi yabaye imvi, ari kumwe n'umukecuru nawe wambaye agapira k'umutuku gaciyemo uturon tw'umukara, bigaragara ko ari kumwereka utuntu abantu bakuze bakora bakagira ubuzima bwiza.

Umusaza w'imvi ndetse n'ubwanwa bwabaye umweru ari imbere ya mudasobwa ari kumwe n'umukobwa ukiri muto wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru wambaye n'isaha, akaba ari kumwereka uburyo yakomeza kwiyitaho ntazasaze nabi amuha imiti.

Umubyeyi w'umumama ndetse usa nk'umukuze w'umukecuru, yiteze igitambaro akenyeye n'igitenge kijya gusa umweru, yicaye hasi ari kurasa ikibiriti ngo acane mu ziko, hirya ye hari ibyatsi birebire.

Umusaza ufite ubwanwa bwabaye imvi, ari gukora siporo kugira ngo arebe ko yamererwa neza, imbere ye hari umuntu ufite utuntu tw'umuhondo, ari kumwereka ishusho arajya arakora.

Abamama ndetse n'abagabo bihurije hamwe bazamuye amaboko bishimye, bahagaze ahantu mw'isambu kuko inyuma hari amasaka, aba bantu biragaragara ko ari abahinzi kuko hari umwe wazamuye agasuka k'agafuni , barishimye bari guseka.

Umugabo uryamye kwa muganga wambaye agapira k'umweru, imbere ye hari umuganga w'inzobe utari kugaragara neza mu maso, wambaye itaburiya y'umweru uri kumubaza uko arwaye. Hino hari ibyuma byifashishwa mu buvuzi kugira ngo bite ku barwaye neza.

Umukecuru uri kwipima umuvuduko w'amaraso, aho yateze ukuboko, akaba yashyizeho akantu kameze nka mubazi, ari kurebamo. Afite imisatsi myiza y'umukara, ndetse yambaye ishati isa igitaka.

Umusaza ushaje cyane, yambaye agashati k'icyatsi. Imvi zabaye uruyenzi. Ari kumwe na muganga ufite imisatsi y'imvi, ari kumuha imiti azajya ararya kugira ngo amererwe neza. Ku meza hariho ivaze irimo ururabo.

Abagore bagera muri batatu harimo babiri bambaye amadarubindi, ndetse n'undi umwe wambaye ingofero y'amabara y'umukara n'umweru umeze nk'ushaje. Bari kureba muri terefoni, aho bari kwerekana uburyo hashoboye kwitabwaho ubuzima bw'umuntu ukuze nawe akajya amera neza.

Abakecuru bicaye ahantu ku musambi, inyuma yabo hari intebe z'umweru zigezweho, zicarwaho n'abanyacyubahiro, bari kureba imbere bigaragara ko bashobora kuba bari mu nama, bari kureba umuntu uri kubagezaho iyo nama, biragaragara ko bakurikiye.

Ni isoko rigari ricururizwamo imbuto zigiye zitandukanye, harimo abakecuru bicaye bari kuzicuruza ndetse izo mbuto akaba ari inyanya nziza cyane, inyuma yabo hari amaronji ahishije meza asa umuhondo.

Umukecuru wambaye itaburiya y'umweru wishimye ari guseka ndetse n'imisatsi ye yabaye imvi. Afite agasahani karimo ibyo kurya bikubiyemo indyo yuzuye. Inzu arimo ifite ibikuta bisa umweru ndetse harimo na sima.

Umukecuru uri kugenda mu muhanda ari kumwe n'umwana we, bambaye imyenda y'umukara, umukecuru ateze igitambaro cy'umutuku, inyuma yabo hari ubusitani bwiza cyane burimo ibiti bitanga amahumbezi ndetse hari n'ubusitani bwiza cyane.

Umukecuru ufite imisatsi y'immvi ni umuzungu ari kumwe n'umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi igezweho wambaye agapira k'iroza ari kumuha akuma ngo aterure kugirango akore siporo.

Abagore batatu bari kureba muri telefoni bari guseka. Harimo umwe usa n'ukuze. Bafite imisatsi myiza igezweho. Bose bari kureba muri telefoni. Bigaragara ko bari kwifotoza.

Aba mama ndetse n'umugabo umwe bari mu muhanda, bameze nkaho bari gukora imyitozo ngororamubiri, n'umuhanda wa kaburimbo hirya hari ibyatsi hari n'ubusitani bwiza buteye neza, ni byiza ko twese twakora siporo.

Abantu bicaranye harimo umugabo usa n'ukuze ndetse n'umukobwa uteze igitambaro, ari kumukora ku maboko, bigaragara ko ari kumukorera masaje, kugira ngo ubuzima bumere neza, ni byiza ko n'abakuze nabo bazajya bagerageza gutuma ubuzima bwabo bumera neza.

Umusaza n'umugore bose bafite imisatsi yabaye umweru, bari guseka barishimye cyane ndetse umugore afashe utuntu tw'umukara ari kugenda adukina kumeza.

Umugabo n'umukobwa bari kumwe n'umubyeyi usa n'ushaje, umusore afite isahani y'umweru iriho ibyo kurya bimeze nk'imigati, umukobwa afashe utuntu tw'icyatsi mu ntoki, bigaragaza ko ari imiti ihabwa abantu bakuze, kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza.

Umukecuru wambaye imyenda y'umweru. Ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano z'ubururu. Afite imisatsi myiza y'umukara. Ari kumusukira utuntu ku kiganza, bigaragaza ko ari imiti izatuma agira ubuzima bwiza.

Umugabo n'umusaza bafatanye ku rutugu bari kugenda mu kayira gashashemo amapave bishimye cyane, bigaragara ko umugabo ari kwita ku mubyeyi we ugeze mu za bukuru kugira ngo yumve yishimye.

Umukecuru n'umusaza bicaye ku meza, umukecuru ari guha umusaza ibinini. Bose barashaje ndetse ku meza hateretseho ikirahure kirimo amazi aranywesha iyo miti.

Umusaza wambaye agashati k'ubururu ufite inda yabyimbye, ari kumwe n'umuganga, aho muganga ari kugenda amwereka uburyo yajya abigenza kugira agire ubuzima bwiza kandi buzira umuze, ni byiza kujya tugana kwa muganga bakatugira inama mu gihe tugeze mu zabukuru.

Umukecuru ugeze mu za bukuru. Yambaye agapira k'umweru, akaba ari kwa muganga afashe agatambaro k'umutuku, ari kugenda agakwedura, ari kumwe na muganga wambaye itaburiya isa umukara n'agashati k'umweru, ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri.

Aha ngaha hari umusaza wambaye agashati k'amabara y'umutuku n'umweru, ari kurya imbuto asangira n'umukecuru we, iri funguro ni ryiza kuko rikubiyemo indyo yuzuye.

Umugore wicaye yambaye agapira k'icyatsi cyangwa ubururu, yambaye imisatsi ndetse ari kumwe n'umusaza wambaye ishati y'umutuku, ari kumupima umuvuduko w'amaraso kugira ngo arebe ko afite ubuzima bwiza.

Umusaza uri kumwe n'umugore ukiri muto w'inzobe akaba amufatishije ku twuma, utwo twuma bikagaragara ko dukorerwaho siporo, akaba ari uburyo bwiza bwo kwita ku bantu bakuze nabo bakagira ubuzima buzira umuze.

Abasaza babiri bambaye nk'abatahira, aho bambaye imyambaro n'imikenyerero, bambaye n'ingofero n'amadarubindi bigaragara ko bari gukoma mu mashyi bishimye, bari gususurutsa abantu bose bateraniye muri iyo nama.

Umusaza wicaye ku ntebe akaba afite agakoni, iruhande rwe hari abana babiri harimo uw'umuhungu n'uw'umukobwa bose bari kurya imigati bigaragara ko bishimye, uyu musaza rero ari gusangira n'abuzukuru be.

Umukecuru ushaje cyane ariko w'umuzungu yambaye agashati k'umweru gafunguye, ibipesu byo hejuru afite ikirahuri ari kurebana n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu, ari kumuha ibinini mu ntoki azajya ararya kugira ngo amererwe neza.

Umusaza w'imvi zabaye uruyenzi n'ubwanwa bw'umweru yambaye amadarubindi na koteri, yambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, afite utwuma mu ntoki tw'umutuku ari kugenda aduterura mu rwego rwo gukora siporo.

Icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, icyapa gisa umweru, hakaba hariho n'utundi tuntu dusa umukara n'icyatsi ku mpande, bakaba bavuga ngo ibuka itariki, umunsi umwe w'urubyiruko, uzaba wamamaza uburyo bwo kurwanya virusi itera SIDA.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama barebye imbere. Imbere hari abantu bagera muri batandatu bahicaye, bari kubakoresha inama. Iyi nama yiga ku bushakashatsi cyangwa ubuvuvuzi, yabaye muri bibiri na makumyabiri na kane.

Aha, ni icyapa kigaragaza ikigo cy'igihugu, handitseho Rwanda Ariyedi Herifu Porofeshonizi Kanso.

Abaritoni Wodiwayidi bibiri na cumi na karindwi, bakaba bari kugaragaza uburyo ubuzima buhagaze, hari ibiziga byinshi igisa ubururu, umutuku, umuhondo, ndetse n'imbere hakaba hasa umweru. Aya magambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Umugore wambaye ipantaro y'umukara, agapira k'umukara ndetse na baji, afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye n'amadarubindi n'imisatsi y'umukara, ari gutanga ikiganiro cy'ukuntu hakwirindwa imibonano mpuzabitsina ku bantu bakiri munsi y'imyaka cumi n'itandatu.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bari mu nama, harimo abagore bicaye imbere, bagera muri batanu ndetse n'umugabo umwe n'undi ku ruhande, imbere hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko bari kuvugaho. Bose barakurikiye.

Umugore wagiye kwivuza kwa muganga, yambaye agapfukamunwa k'umweru n'agapira k'umweru n'isaha, bari kumutera urushinge ariko uko bigaragara atinya urushinge kuko ari gushinyiriza, muganga uri kurumutera na we yambaye agapira k'umweru n'agapfukamunwa.

Umugabo uhagaze ku kabuga impagararo, akaba ari kugeza inama ku bantu bitabiriye. Hirya hari icyapa kigaragaza ko bakiriye abantu ku nshuro ya kabiri, baje kwinjira mu bintu bijyanye n'ubuvuzi.

Icyapa kigaragaza uburyo wabona urukingo rwa Kovide cumi n'icyenda mu buryo bwihuse kandi bworoshye. Hakaba hariho igishushanyo cy'umugore wambaye agapfukamunwa ufashe ku ntebe yicayeweho n'undi nawe ukambaye.

Aha hari icyapa kiri kutwereka uburyo bwo kwirinda indwara zo mu mutwe. Bari kutwereka hari utuntuza dutatu, akazu ka mbere kanditsemo bibiri na makumyabiri na rimwe mukwa cumi na kumwe, akandi mutarama bibiri na makumyabiri na kabiri n'akandi ka gatatu kanditsemo mutarama bibiri na makumyabiri na kabiri.

Icyapa kiriho ibirango by'ibigo bigiye bitandukany. Hariho ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, ikirango cya kaminuza y'u Rwanda, n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi.

Dogiteri Noeli Gahimanyi akaba yambaye ishati y'umweru n'amadarubindi ari guseka, nk'uko bigaragara kuri iki cyapa gisa ubururu akaba yatowe.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe harimo abicaye ndetse n'abahagaze bigaragara ko basoje inama bari kwifotoza. Imbere yabo hari ameza y'uruziga ariho ibitambaro by'umweru.

Icyapa cyanditseho amagambo H na R ndetse hagati yabyo hari ibiganza bibiri bifatanye, hasi handitseho amagambo ngo ''ubuzima ku muturage mu Rwanda''.

Abanyeshuri benshi cyane bari kugenda mu muhanda bafite bandelore yanditseho ngo twirinde kanseri y'ibere tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira.

Iri ni itangazo ryamamaza ibikorwa byenda kuba mu minsi iri imbere, aho bagiye kuvuga ngo hari igikorwa cyo kwita ku buzima ku rwego rw'isi, byanditse mu magambo y'icyatsi n'umweru, ndetse icyapa kirasa umweru.

Abantu benshi bateraniye ahantu kwa muganga, hari umukecuru witeze igitambaro ufite n'agasharupe, imbere yabo hari abaganga bambaye impuzankano bari kugenda babitaho kuko ku meza hari ibikoresho bigiye bitandukanye.

Abagabo n'abagore bahagaze ahantu, hasize irange ry'icyatsi hasi. Muri abo bantu harimo abirabura ndetse n'abazungu, inyuma yabo hari ibyapa byandikishijeho amagambo atari kugaragara neza, bambaye n'amabaji mu ijosi.

Amafoto y'abantu bagiye batandukanye harimo abagore babiri n'abagabo batatu, bakaba basohotse mu itangazo ryo kwamamaza bari kutubwira ko ari bo bazaganiriza mu nama ibijyanye n'ubuvuzi.

Inyubako nini cyane yo kwa muganga, icanyemo amatara ifite imiryango igiye itandukanye, mo imbere hakaba ari nta muntu n'umwe urimo kuko ibereye aho.

Inyubako nziza cyane irimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, biri mu mabara y'umukara ndetse iyo nyubako irimo amakaro asa igitaka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugerekeranye bw'amagorofa, aho hafunguye mo imbere handitseho ngo porogarasi farumasi, bigaragara ko hatangirwamo serivisi zo gucuruza imiti, ni muri farumasi.

Ni mu nzu itangirwamo serivise z'ubuvuzi, aho ari umurwayi waje kwivuza none bakaba bamuryamishije ku gitanda mu gihe ategereje muganga. Hari kandi amarido y'icyatsi n'umweru.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi aho hahagazemo umugabo ndetse n'umugore wicaye wambaye agapira k'umutuku. Imbere y'uwo mugore hateretse mudasobwa ndetse n'aho umugabo yari yicaye ahateretse mudasobwa ari kureba ku cyapa kivuga ku bijyanye no kwirinda marariya.

Umukobwa ucigatiye umwana wambaye imyenda y'umweru, akaba ari kumwe n'uwundi wambaye umweru n'ubururu, usutse imisatsi ya menshi n'amadarubindi, akaba ari kureba uwo mwana, bari mu cyumba cyo kwa muganga.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, hakaba hari utubati dufunguye, aho utu tubati tubikwamo amaraso aba yatanzwe, bakayifashisha bari gutabara umuntu urebye.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, yubakishijwe amatafari ahiye, ifite amadirishya y'umweru, mo imbere harimo abantu bicaye aho bakirira abaje babagana kandi hanze iburyo n'ibumoso hari ubusitani bwiza cyane bw'indabyo zigezweho.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga ifite ibitanda byiza bigezweho, aho biba bifite utuntu tubikikije ku mpande ku buryo mu gihe umurwayi aryamyeho atahanuka, ibyo bitanda bifite imifariso isa icyatsi ndetse bikaba bifite utwuma dusa ubururu n'umweru,

Umugabo wicaye ahantu hubakishije amabuye, yicaye munsi y'igiti, icyo giti ni igiti k'inganzamarumbo, ku mpande ze hari ubusitani bwiza ndetse n'inyubako irenga.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye ndetse igeretse, isakaje n'amabati meza, akaba ari inyubako y'ibitaro by'Akarere bya Shyira, imbere hakaba hari ibyapa bigaragaza ikirango cy'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Inzu zitangirwamo serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi zisakajwe amabati asa umutuku zifite ibikuta biteye irangi ry'umweru n'ivu hakurya hari idarapo ry'u Rwanda hari abantu babiri bahagaze imbere hari n'ibiti birebire bitanga amahumbezi.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'ubururu, yubakishije amatafari ahiye ndetse iteye n'amarangi y'umweru, hakaba hari abantu bari kuvamo, hanze hari icyapa cyanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Matyazo.

Inyubako nziza cyane izitijwe ibyuma bisa umutuku, hanze haparitse imodoka hakaba hari n'abantu, izo nyubako ziri gusa umweru ndetse zisakaje amabati y'umutuku.

Inyubako nziza cyane irimo amatara ari kwaka umweru hakaba harimo n'ibikuta bikatishije amarido asa igitaka akaba ari kwa muganga aho harimo ibitanda abarwayi baryamaho.

Ni kwa muganga ahari ibitanda byinshi cyane abarwayi barwariraho, uko bigaragara ibi bitanda birateguye neza ariko nta barwayi benshi barimo. Amadirishya ari kugaragaza amabara y'umweru ndetse hari n'utugare batwaramo abarwayi.

Ni kwa muganga ku nzu y'ababyeyi cyangwa se matarinete aho abagore babyarira, imbere yaho hicaye abantu benshi bari kwifotoza, hari n'abandi bahagaze, iyi nzu yubakishije amatafari ahiye ndetse yanditseho ngo inzu y'ababyeyi.

Inyubako nziza cyane iteye amarange y'umweru ku bikuta, irimo ibikoresho byinshi bitandukanye harimo insakazamashusho y'umukara izimije ku rukuta, harimo n'ibyuma bakoresha batanga umuziki.

Ibitaro bya kabgayi biherereye mu Majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Muhanga. Mu imbere harimo inyubako nziza cyane, hakaba hateyemo n'ibiti bitanga amahumbezi, hakaba hari n'amatara acana mu imbere kugira ngo hagaragare.

Abagore babiri basa n'abakuze, bicaye ku gatebe, hari undi wicaye ku gatebe wambaye imyambaro y'umutuku ukiri muto wambaye amadarubindi n'agapfukamunwa, ari kubereka uburyo wakwirinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye zirimo n'umuvuduko w'amaraso.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba iteye amarangi y'ubururu ndetse n'amabati asakaye asa ubururu, imbere haparitse imodoka iri kugenda ndetse n'abandi bantu batatu bari kugenda mu muhanda.

Inyubako nziza cyane ubona ko iri kwaka utuntu tujya gusa icyatsi, hejuru hakaba hari ibyuma hari kwaka n'amatara, iyo nyubako ikaba ishashemo amakaro, ikaba ifite amadirishya nayo ameze neza cyane.

Muri banki haba hari gishe aho bakirira abaje babagana, haba hari udutebe ndetse harambitse n'ibyapa bigaragaza uko abantu barajya baragenda bahabwa serivisi zitandukanye, utwo dutebe ni twiza cyane, ariko nta mukozi ugaragara mw'imbere.

Sale nini cyane yo mu bwoko bwa etaje kuko hejuru nta purafo turi kubonaho, mo imbere hakaba harimo abantu batandukanye, nkuko bigaragara iyi ni inyubako yo kwa muganga. Harimo ibikoresho bakoresha bari mu nama nk'utugare batwaraho abarwayi ndetse hasize amarange y'umweru.

Ahantu hari inyubako nziza cyane, iriho abantu bari imbere yayo, hino hari ubusitani bwiza burimo indabyo nziza cyane z'amabara y'umutuku.

Icyumba kigari cyane bigaragara ko ari nk'icyumba cyaberamo inama, harimo udukoresho tugiye dutandukanye ndetse ni kigari, kuko imbere ntabwo wabasha kuhareba kubera ubunini bwacyo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bwa kijyambere ikaba iteye amarangi asa umweru ndetse n'irangi risa umuhondo, imbere yayo hahagaze abantu batandukanye harimo n'ushinzwe umutekano, bari kwifotoza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa etaje, ni ukuvuga inyubako ziba zigerekeranye, ifite amadirishya y'umweru n'ibirahuri bya fime bibonerana, ikaba iriho icyapa cyanditseho ngo inzu y'ababyeyi n'impinja.

Icyumba gitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi kwa muganga. Aho harimo ibitanda byiza cyane bifite amabara y'umweru n'ubururu, bifite n'amapine. Hari n'amarido y'umweru, ndetse n'amatara yaho ari kwaka umweru.

Icyapa kiriho ibitaro bya CHUB, ibi bitaro bikaba biherereye mu Karere ka Huye impande ya kaminuza y'u Rwanda, inyuma turi kuhabona inyubako z'ibi bitaro nziza cyane ndetse n'imbangukiragutabara zihaparitse.

Umugabo wambaye ikositimu ry'umukara yazinze, ari kureba muri mudasobwa ari guhengereza nk'uri kureba kuri VAR, imbere ye hari igitabo, hari n'amarido ku ruhande rw'iyo nyubako ku madirishya.

Inyubako nziza cyane zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, imbere yayo hari idarapo ry'u Rwanda rishinze mu busitani bwiza cyane, hakaba hari n'agahanda kari hagati y'ubusitani n'inyubako kubakishije amapave.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, hakaba hari abantu bagera muri batanu bari kwifotoza, bigaragara ko bishimye bose, harimo abagore bane ndetse n'umugabo umwe.

Inyubako nziza cyane iteye amarangi y'umweru, ikaba ishashemo amakaro munsi, mo imbere hakaba harimo utugare dutwara abarwayi cyangwa imirambo kwa muganga, utu dukoresho tuzwi nka burankari.

Ni inyubako irimo icyumba kinini cyane kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi. Harimo utugare dutwara abarwayi ndetse n'udutebe dufite amapine, n'ameza n'ibitanda bigiye bitandukanye.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bakoresha kugira ngo ubuzima bw'abarwayi bamere neza. Hari insakazamashusho ziri kwaka, bigaragara ko umuntu waje gukora siporo aba ari kuzireba kugira ngo amasaha abe yicuma.

Inyubako nziza cyane ifite korodoro irombereje igiye ifite imiryango itandukanye. Iyi nyubako irikwakamo amatara ndetse ifite ibikuta bisize amarangi y'umweru. Harimo amakaro ndetse n'abantu hirya bambaye iby'umukara barikureguka.

Umugore wambaye imyenda y'ubururu akaba ari umuzungu, hino hari abandi bicaye bari kuganira hari uwambaye itaburiya y'umweru akaba ari umuganga n'undi murwayi waje amugana akaba ari kumubwira indwara arwaye ngo bamuvure.

Inyubako nziza cyane, yubakishije amatafari meza hakaba hateyeho amarangi asa umweru. Ifite ibirahuri bisa umweru biriho n'amarido, hakaba harimo abagabo babiri bambaye amatabuririya y'umweru, bari kureba mu cyuma nacyo gisa umweru.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti cyangwa aho tuzi nko kuri farumasi, hakaba hari abantu baje gushaka izo serivisi ndetse iyo nyubako, ikaba iteye amarange y'umweru.

Icyumba cyiza cyane gikorerwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, aho harimo intebe nziza cyane zifite imifariso y'ubururu. Izi ntebe zikaba zifite n'amapine, hari n'akabati k'ubururu babikamo imiti, izi ntebe ni nziza cyane.

Umukobwa mwiza cyane w'umuganga ufite imisatsi ya derede, yambaye itaburiya y'umweru, yambaye n'udupfukantoki, imbere ye hari amashuka y'ubururu, n'umweru akojeje ukuboko k'umurwayi ku gutwi kugira ngo yumve ko nta muriro afite.

Ahantu heza cyane, akaba ari mu nyubako, ikorerwamo cyangwa itangirwamo serivise z'ubuvuzi, hakaba hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'inyubako zisakaje amabati asa icyatsi, ikirere kirasa ubururu n'umweru.

Inyubako nziza cyane, iteye amarangi y'umweru. Ikaba ifite imiryango ifunguye, ikaba ifite ikigega cy'umukara, n'ubusitani. Hakuno hari umuntu uri kugendera mu kagare k'abafite ubumuga, mu gahanda karimo amapave. Hirya ye hari abantu bambaye imyenda y'imihondo.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, isize amarangi y'umweru ku nkingi ndetse ikaba ifite inzugi z'umweru, hanze hicaye abantu kandi hahagaze n'umugore wambaye agapira k'ubururu, hari n'ameza ariho igitambaro cy'umutuku, iyi nyubako ni inzu y'ababyeyi.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga iteye amarangi y'umweru ku bikuta, amatara ari kwaka umweru, hasi irimo amakaro asa umweru, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi mo hagati harimo ibisa umukara ndetse bifite n'amapine.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'ubururu ndetse hanze ikaba isa umweru, ifite amarange y'umweru hanze hicaye abantu, akaba ari ikigo nderabuzima cya Shangasha.

Inyubako nziza cyane igeretse yo mu bwoko bwa etaje, akaba ari inzu y'ubushakashatsi mu bijyanye n'ubuvuzi. Hanze hakaba hari umuhanda wa kaburimbo uhagana ndetse hakaba hari n'ubusitani iburyo n'ibumoso burimo indabyo nziza cyane.

Umuhanda mwiza cyane w'amapave, uri gutambukamo abantu harimo abagabo batatu, hari ubusitani bwiza, hirya hari inyubako nziza cyane, bigaragaza ko ari inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Umukobwa mwiza cyane w'inzobe uri guseka uteze igitambaro wambaye udupfukantoki tw'umweru ndetse n'ishati y'icyatsi akaba ari kureba ku gikoresho bifashisha mu buvuzi bavura abarwayi, muri iyo nyubako harimo n'ibindi bikoresho byinshi bigiye bitandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bw'uruziga, ku ruhande hakaba hari indi yubatse mu buryo bwa etaje, hakaba hari akayira kajyayo k'amapave ndetse n'ubusitani ku ruhande burimo ibyatsi bigufi.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, ikaba izengurutswe n'umuhanda wa kaburimbo. Iyo nyubako ikaba ifite ubusitani bwiza cyane burimo ibyatsi bitoshye.

Ibitaro byiza cyane ubona ko byubatswe mu buryo bugezweho, bifite parikingi ndetse bifite n'ubusitani bwiza cyane. Ikirere kirasa ubururu n'umweru.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bw'amagorofa aho isize amarange y'ivu, hakaba handitseho ngo bita ku bijyanye n'indwara zifata ibinyabuzima ndetse n'amatungo muri Afurika.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bw'amagorofa igeretse, ikaba iteye amarangi y'umweru ndetse n'amarangi asa n'ivu, imbere hakaba hari icyapa kiyigaragaza, hari n'ubusitani ndetse n'imbuga iteye amapave, hari n'amapoto atwara insinga z'amashanyarazi.

Abantu benshi bicaye ahantu kwa muganga batandukanye bashyizemo intera ya metero imwe hagati y'umuntu n'undi, hakaba hahagaze umugabo imbere yabo wambaye agapfukamunwa, hakaba hari ikirongozi gisize amabara y'umweru.

Inyubako nziza cyane, ikaba iteye amarange y'umweru ariko ashaje, ikaba ikorerwamo aho bacuruza ubuvuzi cyangwa se farumasi, bari kuvuga ngo bakorana na Medi plan kandi barakuvura byoroshye kandi byihuse.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho byo mu rugo bitandukanye, harimo intebe zibaje mu biti, ndetse n'utumeza tw'uruziga tugera muri dutatu, kamwe gasa umweru, akandi gasa umukara akandi ntarange gasizeho hino hari ururabo ruhari.

Inyubako nziza cyane ziri iruhande rwa kaburimbo iri kugendwamo n'abantu, iyi nyubako ikaba yubakishije inkingi z'amatafari ahiye ndetse n'amatibe y'umweru, akaba ari ku bitaro bya Ruhengeri cyangwa se Ruhengeri Hosipital mu ndimi z'amahanga.

Iyo ugeze ku kigo nderabuzima, aho bakirira ababagana ku kigo nderabuzima usanga hicaye abantu benshi bategereje serivise bari buze guhabwa n'abaganga. Harimo abana ndetse n'abagore n'abapapa.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye byo kuvura ku barwayi, hari ibitanda bishashe neza biriho amashuka y'umweru n'ubururu, hari n'utumeza ndetse n'amarido y'umweru.

Aha ni mu nyubako nziza cyane itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, mo imbere harasa umweru, harimo ikintu gisa umutuku, inkuta n'umweru, amatara n'umweru hasi harimo amakaro nayo asa umweru.

Iki ni igikoresho gikoreshwa kwa muganga kiri muri laboratwari yo kwa muganga, iki cyitwa mikorosikopi aho kibasha kureba mikorobe ziri kure cyane.

Abantu benshi batandukanye batonze umurongo, imbere yabo hari intebe zisa umukara zitarimo umuntu, hari n'intebe y'urubaho, hari umuntu wicaye mu kagare k'abafite ubumuga ndetse n'abantu bicaye imbere ku meza, bigaragara ko aribo babatondesheje uwo murongo.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti by'imikindo bibiri, imbere hakaba hari inyubako ndetse n'imodoka zihaparitse, uko bigaragara aha ni kwa muganga aho bavura indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba iteye amarange y'umweru ndetse n'inkingi zisa umweru, hanze hakaba hahagaze abagabo babiri ndetse n'umwana wicaye ku ntebe n'umugore uri guhaguruka. Iyo nyubako akaba ari ikigo nderabuzima cya Gishweru.

Inyubako nziza cyane iri kunyuramo umukobwa w'umuganga wambaye imyambaro y'ubururu. Iyo nyubako irimo n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye baje gushaka no gutanga serivisi z'ubuvuzi.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama, imbere hari umugabo uhahagaze wambaye ikosotimu, ari kubakoresha inama. Inyubako barimo isize amarange y'umweru. Imbere hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko bari kuvugaho.

Aha ngaha bari kutwereka inyubako y'ubuvuzi irimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Hari ibifite amarangi y'ubururu, umweru ndetse hari n'ibirahuri byiza cyane.

Inyubako nziza cyane irimo amakaro, ifite ibikuta byiza cyane bisa umweru, inzugi zisa umutuku, hakaba hari ikintu cy'umuhondo hejuru ndetse n'ikirongozi imbere kirongobereje, hakaba hasa neza cyane.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge ari kumwe n'umugabo w'umuganga wambaye impuzankano zo mu ibara ry'ubururu, afite n'udukoresho tumeze nka ekuteri bakoresha basuzuma indwara, uyu mugore ni umukecuru bari ahantu mu rugo rwe.

Inyubako nziza cyane igezweho, akaba ari inzu ifite ibiti biyikikije imbere yayo nk'uko bigaragara aha ngaha ni muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, hari ibiti byinshi cyane bitanga amahumbezi n'umuyaga, hari n'umugabo uri kuhamanuka wambaye iby'umutuku.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu, akaba afite agacupa ari kunywa amazi, ni byiza rero kunywa amazi mu buzima bwacu bwa buri munsi, nawe nakugira inama yo kuzajya unywa nibura nka litiro y'amazi ku munsi.

Ni inyubako nziza cyane mo imbere hasa umweru, hakaba harimo icyuma gisa umweru cyiza cyane cyifashishwa kwa muganga batanga serivise zigiye zitandukanye.

Umugabo w'igisore ufite amatugu n'amatuza, akaba yambaye ekuteri mu gutwi, akaba afite agacupa k'amazi ari kunywa, amazi ni ingirakamaro ku buzima bwacu, kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Aha ngaha turahabona inzu itangirwamo imyitozo ngororamubiri yanditseho ngo "siporo," bakaba bacuruza n'imiti yifashishwa ndetse n'imiti irwanya kubatwa n'ibiyobyabwenge. Byanditse mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Ifoto y'umuntu w'umuganga ufite intoki nziza cyane bigaragara ko ari umuzungu n'ubwo atari kugaragara neza afite udukuteri abaganga bakoresha ndetse yambaye na karuvati, afite ikintu cy'umutuku mu ntoki.

Agasanduku gapfunduye gasa icyatsi, kakaba karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura umuntu wagize ikibazo, igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Umuntu uri kunywera amazi mu icupa, ni byiza kunywa amazi mu buzima bwacu kuko bituma ubuzima bumera neza. Nawe nakugira inama yo kuzajya unywa amazi nibura nka ritiro imwe ku munsi.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro cyane. Ni byiza ko nawe wazajya ujya ahantu habugenewe, warangiza ukajya urakora iyi myitozo ngororamubiri maze umubiri wawe ukagororoka. Uyu mugore urabona ko ari kubikora kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Gukora siporo ni ingirakamaro cyane. Uyu mukobwa nk'uko tubibona ari ugusunika kino cyuma mu buryo bwo kugorora umubiri we. Hasi hari tapi zisa icyatsi nziza cyane. Ni byiza ko natwe twajya dukora imyitozo ngororamubiri.

Umugore wambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'umweru, n'imisatsi ya menshi akaba afite utubuno dutoya, azamuye amaboko ari gukora siporo, siporo ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi.

Icyumba cyo kwa muganga gisize amarangi y'umweru, inzugi z'umweru zifite ibirahure, hakaba harimo udutebe dufite imifariso y'ubururu, harimo icyuma baryamaho bari gukora siporo na cyo gifite imifariso y'ubururu, iyi nyubako mo imbere harimo amakaro y'umweru.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro cyane, uyu musore ari muri siporo ari kugorora umubiri, aho yazamuye akaguru yakararambitse ku biti biri iruhande rwaho, hirya hari igiti cy'amababi y'icyatsi ndetse n'umuhanda wa kaburimbo.

Mu buryo bwo kugira ubuzima bwiza, batugira inama yo kunywa amazi buri gihe, uyu mugabo ari gusoma amazi ndetse yambaye isengeri bigaragara ko avuye muri siporo, nawe nakugira inama yo kuzajya ukora imyitozo ngororamubiri ndetse ukanywa ku mazi nibura litiro imwe ku munsi.

Umuntu wari uri gukora imyitozo ngororamubiri aza kuvunika none yagiye kwa muganga, bamuryamishije ku gitanda gifite matera yubururu, bari kumupfuka ahantu ari kumva yagize ikibazo, umuntu uri kumupfuka ntabwo agaragara mu maso.

Icupa riri gusuka amazi mu kirahure cyiza cyane, ayo mazi nayo akaba ari meza asukuye, ni byiza ko buri muntu yazajya anywa amazi asukuye buri gihe kuko bituma umubiri we ugubwa neza.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza mu buzima bwacu bwa buri munsi, batugira inama yo kujya tuzindukira mu muhanda tukiruka nibura kilometero imwe buri gitondo, ibi bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ni ingenzi mu buzima, gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no kurya imbuto n'imboga kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri aho yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, akaba yambaye agapira k'umuhondo inyuma ye hari ibyatsi bisa icyatsi. Ari gukora imyitozo ngororamubiri kugirango ngo agororoke.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri aho uyu mupira ushobora kuwukina ndetse n'iy'imigozi ukaba wayisimbu, ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma abantu bagira ubuzima bwiza buzira umuze kandi bikarinda n'indwara nyinshi zitandukanye.

Umuntu wari uri gukora imyitozo ngororamubiri hanyuma aza kuvunika, yagiye kwa muganga none bamwicaje ku gatanda, muganga ari kumwitaho amuzirika igipfuko ku kaguru kugira ngo yoroherwe ndetse asubire gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara n'inkweto z'umweru. Ari gukora imyitozo ngororamubiri aho yazirikiye telefoni ku kizigira cy'ukuboko akaba kandi yambaye na ekuteri ari kumva imiziki.

Umugabo wambaye ikote ry'imbeho wicaye ari kunywa amazi, ni ingirakamaro rero kunywa amazi mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko bituma tugira ubuzima buzira umuze.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro cyane. Kuri iyi foto turabonaho abantu bishimye bari gukoma amashyi bari kureba abakinnyi bakina umukino w'amaboko uzwi nka basiketiboro.

Umugabo uryamye yazamuye akaguru, yagashyize ku rutugu rw'umugabo w'umuzungu wambaye isaha, nawe akaba ari kumukorera masaje, kugira ngo umubiri we ugororoke kandi ugire ubuzima bwiza.

Iki ni icyapa cyamamaza Six Pack, kole iri kugura ibihumbi ijana na makumyabiri by'amafaranga y'u Rwanda turagufasha gukuraho inda bikworoheye.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengengeri k'icyatsi, akaba yazamuye ukuboko kumwe yifashe mu mugongo akandi yagafatishije ku nkokora ziwe, ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kuko birinda umuntu kugira ingingo zitagororotse.

Ni igikoresho bifashisha mu buvuzi bagaha umuntu wamugaye ukuguru cyangwa wahuye n'imvune iyo acyambaye abasha gutambuka neza maze ntagire ikibazo mu gihe ari gutambuka ibi birafasha kandi ni ingirakamaro.

Akabido gasa umweru kameze nk'ipombo yuhira inka, kanditseho icyapa cy'umukara, kakaba karimo imiti wakwifashisha wisiga ku mubiri maze ukagira ubuzima bwiza.

Umukobwa w'inzobe wambaye agapantaro k'umukara n'agasengeri k'umukara, aricaye ari gukora imyitozo ngororamubiri, impande ye hari utwuma tubiri tw'umutuku baterura bari kugorora amaboko yabo kugira ngo bagororoke, hari na mudasobwa ari kureberamo ibyo ari gukora.

Umukobwa mwiza cyane wambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara afite agacupa, ari kunywa amazi. Amazi ni ingirakamaro mu buzima bwacu kuko atuma tugira imibereho myiza, nawe nakugira inama yo kujya unywa amazi buri munsi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, hari umupira w'amaguru, umupira wa Basket ndetse na kasike yambarwa n'abantu batwaye moto iri gusa ubururu.

Ibikapu byiza cyane bisa umutuku, bikaba birimo ibikoresho wakwifashisha ugiye gukora siporo. Mu buzima bwa buri munsi, ni ingenzi gukora siporo, kuko bituma umuntu agororoka.

Umukobwa ukiri muto uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'umweru, iruhande rwe hari imbuto nyinshi cyane warya maze zikakugirira umumaro harimo ibinyomoro, imineke ndetse n'amacunga.

Umurwayi wagiye kwa muganga kwivuza akaba aryamye yubamye muganga akaba yamuteye serumu yo mu mugongo, inyuma y'umuganga hari irido risa ubururu, biragaragara ko uyu murwayi arembye cyane.

Gukora imyitozo ni ingirakamaro cyane. Aba bantu tubona mu kibuga ni abakinnyi, harimo umwe uryamye, bombi bambaye impuzankano z'ubururu n'amakabutura y'umukara. Imbere yabo hari baro y'umweru n'ubururu. Uyu uryamye bari kumuvura.

Udusahani tubiri two mu mabara y'umweru ndetse n'akandi kaboshye mu bitebo, hariho imbuto ndetse n'imboga warya maze ukazana ubuzima bwiza, bigizwe n'ibikomoka ku matungo ari byo amagi, imboga ndetse n'imbuto, hirya hari utwuma waterura maze ugakora siporo z'umubiri wawe.

Nibyiza gukora imyitozo ngororamubiri, nk'uko uyu muntu umubona yambaye ubusa hejuru, bari kutwereka amatugu n'amatuza afite aho ku rutugu hariho ibimenyetso byandikishije amabara y'ubururu ndetse n'umutuku.

Imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro cyane kuko bituma umuntu agira ubuzima buzira umuze nk'uko bigaragara uyu mugabo yagiye kwa muganga none muganga ari kumugorora umubiri amukoresha siporo, umuganga yambaye itaburiya y'ubururu n'agapira k'umweru.

Aka ni akuma ko kwa muganga, kifashishwa n'umuntu uri gukora siporo, kakaba kameze nk'akabazo, kakaba gafite ibara ry'umukara, karambitse ahantu hasize irangi ry'umweru.

Ni byiza gukora siporo kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Iyi ni inyubako irimo ibikoresho byinshi bitandukanye wakwifashisha uri gukora siporo, hicayemo umukobwa ufite utuboko twiza cyane, ari kugenda akora siporo ngororamubiri, impande ye hari umugabo wambaye agapfukamunwa.

Abantu babiri bambaye udupfukamunwa tw'umukara, harimo umwe witwikirije masike iri mu mutwe, akaba yohereje ukuboko mugenzi we na we ari kuzirikaho akantu bigaragara ko ari uburyo bwo kwita ku mubiri.

Ubundi iyo ugeze ahantu ku bitaro usanga hari abantu benshi batandukanye, aha turahabona umugabo wuriye urwego ari munsi y'ahantu hasize irangi ry'ubururu n'umweru, hari abandi munsi ye bari kumufasha.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro cyane, uyu mukobwa ari kunanura umubiri we yambaye agasengeri k'umweru n'agapantaro k'agakoboye, yazamuye amaboko ubona ko ari kugira ngo arebe ko yagira umubiri ugorororotse.

Intoki nziza cyane zisa inzobe, zifashe ahantu hasa umukara, hakaba hari n'ikindi kintu imbere yaho gisa umukara.

Umugabo wambaye agakabutura k'umukara wicaye ufite utuguru twashaje n'utuboko twazanye imitsi, akaba afatiye ku ivi agatambaro k'ubururu, bigaragara ko ari kwivura ashobora kuba yakomeretse, uko bigaragara aya maguru ntabwo ari ay'umwana pe arashaje.

Umukobwa utereye umupira ku rutugu, akaba afite icupa ry'amazi risa ubururu n'umweru ari kunywa, ni byiza cyane kunywa amazi kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ikirahure cy'umweru kiri gusukwamo amazi n'ibinika nayo y'umweru, ifashwe n'ikiganza cyangwa ukuboko k'umuntu utari kugaragara neza, aho hantu harasa umweru, amazi ni ingirakamaro cyane, kuko atuma umuntu agira ubuzima bwiza.

Ni byiza ko wajya ujya kwa muganga bakagutiza agakoresho nk'aka kari mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara, aka kifashishwa mu gukora siporo aho ushyiramo icyirenge hanyuma kagera mu itako kakajya karagukamura kugira ngo ibinure biyage.

Umukobwa uri kunywa amazi, akaba yambaye telefone ku kizigira cy'ukuboko, yambaye na ekuteri mu matwi. Yambaye agasengenge k'iroza, afite gurudu arimo kunywa amazi, bigaragara ko yari afite icyaka.

Iki n'igikoresho bifashisha bari gukora siporo, kirasa umweru aho gifite n'amapine umuntu agenda agakandagiraho, hanyuma kikajya kimutembereza hirya no hino ari kwireba muri iriya ndorerwamo.

Abantu benshi bambaye utujiri tw'ikigo gitanga ubutabazi cya croix rouge. Croix rouge ni ikigo gifasha abantu bafite uburwayi cyangwa imbabare zagize ikibazo urabona ko hari umuntu uri gufasha umuntu wambaye agapira k'umutuku uwo muntu akaba yagize ikibazo.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bigiye bitandukanye, aho ba bari kwita ku bantu bagize ibibazo bari gukora imyitozo ngorora mubiri, hari imipira isa icyatsi ndetse n'udukuteri tw'umweru dufite ubwumviro bw'umukara.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'icyatsi n'agasengeri k'icyatsi, aricaye aho ari gukoza amaboko ye hejuru y'amano, ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ikirahuri giteretse ahantu hasa umweru, hakaba hari ukuboko gufashe ibinika hejuru iri gusukamo amazi, hakaba hari ibara ry'umweru.

Icyumba kigari cyane kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa muri siporo bituma umuntu agira ubuzima buzira umuze, hahagazemo umusore wambaye udupfukantoki ndetse n'inkweto by'umweru ari kwerekana uko bikorwa.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri cyangwa se siporo, akaba ari kugenda yigorora akoresheje amaboko, ni byiza kuko natwe dukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma umuntu agira ubuzima buzira umuze.

Abantu benshi batandukanye bari gukora imyitozo ngororamubiri. Aho bari kugenda bakina umupira wa basiketebolu, hakaba hari n'abafana benshi baje ku bafana.

Umuntu uri kunywa amazi akoresheje gurudu iri mu ibara ry'icyatsi n'umukara, ari kuyanywa kugira ngo agire ubuzima bwiza, amazi ni ingenzi kuko atuma umuntu agira ubuzima buzira umuze, nawe nakugira inama yo kuyanywa buri munsi.

Umusore wambaye agakabutura k'umukara, yambaye n'agapira k'umweru n'inkweto z'umweru, yazamuye akaguru, aho yagashyize ku cyuma, akaba agafatishijeho ukuboko, biragaragara ko ari gukora siporo ngororamubiri kugira ngo azagire umubiri ugororotse.

Inyubako iteye amarange y'umuhondo, hakaba harimo ameza ariho imbuto zitandukanye warya zikakugirira umumaro, hakaba hari n'akuma baterura bari gukora siporo bakazana imbaraga. Ni byiza ko nawe warya izi mbuto ndetse ugakora n'imyitozo ngororamubiri.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro cyane, biba byiza iyo uri kuyikora unywa n'amazi nk'uko bigaragara uyu mukobwa aricaye yambaye agapantaro k'umukara n'agasengeri k'umukara, ari guterura ibyuma, ku mpande ze hari utundi twuma tw'umutuku ndetse n'agacupa k'amazi n'utwuma tw'umukara.

Umuntu wagiye kwivuza yambaye agashati k'icyatsi, ukuboko kwe gufashwe n'umuganga wambaye itaburiya isa umweru n'ubwo atari kugaragara neza.

Umuntu uryamye w'inzobe, akaba yahinye ukuguru kumwe, ukundi yakurambuye, hakaba hari umuntu wambaye agapira k'umukara utari kugaragaza neza washyize ikintu cy'icyatsi ku ivi rye, ku ruhande hakaba hari ikindi kintu gisa umweru bigaragara ko ari ibikoresho bakoresha bari ku muvura.

Ikizingo cy'uruziga gisa umutuku mo imbere gisa umweru, kikaba kiri ahantu naho hasa umweru, iki cyifashishwa muri siporo kugira ngo umuntu agororoke.

Icyapa cyanditseho ngo Repubulika y'u Rwanda, ibitaro bya gisirikari, bari kwamamaza aho batera ibinya ndetse ni byiza kujya kwivuriza mu bitaro bya gisirikare kuko haba hari inzobere zizi iby'ubuvuzi cyane.

Umugore mwiza cyane utari kugaragara neza mu maso, akaba yicaye yambaye ipantaro ndetse n'isengeri y'umutuku, akaba afashe ku birenge bye, biragaragara ko ari gukora siporo, inyuma ye hari agatebe k'agatabureti, hirya hari izindi ntebe ndetse n'ibitambaro bisa umweru n'icyatsi, yicaye hasi ku makaro.

Umukobwa ipantaro y'umukara n'asengeri kajya gusa umutuku n'umweru, ari gukora imyitozo ngororamubiri mu cyumba gifite amarangi y'umweru n'amakaro y'umweru, harimo n'amavaze ateyemo indabyo.

Kwa muganga batugira inama yo gukora imyitozo ngororamubiri mu buzima bwa buri munsi kugira ngo urutirigongo rwacu rutazagondama ruzabe rugororotse kuri iyi foto hariho abantu bari gukora siporo zitandukanye abari kwiruka, abari gusimbuka umugozi ndetse n'ibiganza biri gukoma amashyi hari kandi n'umusaraba ndetse n'ifoto y'urutirigongo.

Umuntu wese urwaye cyangwa ufashwe n'uburwayi, bamugira inama yo kwihutira kugana ku kigonderabuzima, gushaka ubufasha bw'abaganga, aho kugira ngo ajye kwivuza muri ba magendu. Uyu muntu rero ari kuvurwa n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'ingofero y'umweru, akaba ari umuzungu imbere hari igikoresho cy'ikoranabuhanga.

Aha hari igisambu kirimo ibiti n'ibyatsi by'amoko menshi agiye atandukanye, ariko muri ibi biti harimo bimwe byifashishwa mu buvuzi gakondo aho baba bavura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye.

Mu buvuzi gakondo iki cyatsi gikunze kwifashishwa bavura indwara zigiye zitandukanye zoroheje harimo nk'inkorora, ibicurane ndetse n'izindi. Ni byiza ko ubuvuzi gakondo na bwo tubuha agaciro.

Mu buvuzi gakondo bakoresha imbuto cyangwa imiti igiye itandukanye, hari benshi bazi ko inanasi ari urubuto gusa siko bimeze kuko inanasi nayo yifashishwa mu buvuzi gakondo, aho ivura indwara zitandukanye nk'umubyibuho ukabije.

Uducupa tugiye dutandukanye, higanjemo uturi mu mabara y'umuhondo, hashushanyijeho icyatsi cyitwa igikakarubamba, iki kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za Kinyarwanda.

Imiti iri mu ducupa tw'umweru yandikishijeho amagambo y'icyatsi, ashushanyijeho ibikakarubamba bigaragara ko iyi miti yifashishwa mu buvuzi gakondo, bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye ndetse zananiranye.

Uducupa turimo imiti igiye itandukanye utwo ducupa tukaba dushushanyijeho ibintu by'icyatsi iyi miti ndetse nayo ikaba ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo.

Iki cyapa kiri kutwereka umugore ufite mu nda zeru wambaye imyambaro y'umukara, hakaba hari amagambo yanditseho, biragaragaza kandi biramamaza imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye bikaba ari ibimera, ibi byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo aho bivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye zikubiyemo n'iz'amarozi.

Inzu icururizwamo imiti myinshi cyane itandukanye ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, ni byiza ko nawe igihe warwaye waza ugashaka imiti ya gakondo bakakuvura, aho kujya muri magendu.

Aha ni ahantu hari ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye, bijya kumera nka jeraniyumu, harimo n'ibipupe birinda ibyo byatsi, ibi ngibi akaba ari imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ibimera bisa icyatsi hakaba harimo n'akantu wagira ngo ni ibumba ndetse n'ikimera kimwe kijya kumera nk'ishu ritari ryera neza. Ibi byose bikaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho bivura indwara zigiye zitandukanye.

Icyatsi tuzi ku bwoko bw'igicuncu, kikaba cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho bagiha umuntu urwaye nk'inkorora, ibicurane n'izindi ndwara, akagitamira hanyuma agakira, ariko kirasharira ntimukirebe gutya.

Ururabo rurambitse ahantu hameze nko ku meza, umwana wo mu mujyi, ashoboye kuhagera yarureba akagira ngo ni ururabo, nyamara ntabwo azi ko uyu nguyu ari umuti wifashishwa n'abavuzi gakondo uvura indwara zigiye zitandukanye, ntabwo yabimenya rwose.

Agacupa gasa umweru kanditseho amagambo Aloe yanditse mu ibara ry'ubururu, hirya hari imbuto zisa icyatsi, ibi byose bikaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Ibyatsi birambitse ku kabaho, ibyo byatsi bikaba bimeze nka tangawizi, ibi ngibi byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho bivura indwara zitandukanye, harimo n'amarozi y'amatamikano cyangwa amatambukano.

Mu buvuzi gakondo bakoresha imiti igiye itandukanye, icyatsi cyose kiba kiriho kiba ari umuti kuri bo nubwo tuba tutabizi tukaba twabihungabanya. Nk'uko ibi byatsi tubibona, biragaragara nk'aho ari indabyo, ntabwo wapfa kumenya ko bikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Agacupa gasa umuhondo kandidikishijeho amagambo asa umutuku ndetse gashushanyijeho n'igisiga cy'umutuku umumpfundikizo nawo urasa umutuku, bigaragara ko harimo imiti yifashishwa mu kurwanya indwara za kinyarwanda no kuzivura.

Uducupa twinshi cyane tw'umweru turimo imiti myinshi igiye itandukanye, iyo miti ikaba yifashishwa mu buvuzi gakondo, aho iyo ugiye urwaye inararibonye iguha umuti umwe muri iyi ngiyi.

Uducupa twiza cyane turi mu mabara atandukanye, umweru, icyatsi, umutuku, tukaba twanditseho amagambo aliyanse, tukaba turimo umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Uducupa twinshi cyane dutandukanye tw'amabara menshi atandukanye, higanjemo utw'umweru, umuhondo ndetse n'umutuku, tukaba turimo imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Icyapa kiriho imbuto nyinshi cyane ushobora kwifashisha kugira ugire ubuzima buzira umuze, harimo imineke, harimo inanasi ndetse n'utundi dukarito turimo izindi mbuto wakoresha.

Mu buvuzi gakondo bakoresha imiti myinshi igiye itandukanye, utu ducupa turi ahangaha tw'umuhondo, umweru, ubururu, ndetse n'aka gafuka birimo imiti myinshi bakoresha bavura abarwayi. Imbere hari ubusitani burimo uduti twiza cyane.

Uducupa dutandukanye turabitse ahantu hari amabara atandukanye. Hamwe karambitse mu ibara ry'umutuku wijimye, akandi umuhondo, akandi ibara ry'icunga ndetse akandi karambitse mu ibara rya orange. Bigaragara ko turimo umuti uvura indwara zigiye zitandukanye za gakondo.

Ugeze mu buvuzi bwa gakondo usanga hari ibikoresho byinshi bitandukanye by'amayobera, hano hari igikoresho kibajwe mu mbaho ari kwinjizamo utuntu wagira ngo ni amateke yakataguye dusa icyatsi, iki gikoresho gifitanye isano n'impinga.

Ibyatsi bifite amababi atoshye, ibi byatsi bikaba bikoreshwa mu buvuzi gakondo, aho bivura indwara zitandukanye harimo inkorora, ibicurane ndetse n'izindi zivurwa zigakira.

Hari indwara nyinshi cyane nk'amarozi ndetse n'izindi zitavurwa n'ubuvuzi bwo kwa muganga. Iyo bigenze gutyo bakugira inama yo kugana ubuvuzi gakondo bakakuvura utu ducupa rero turimo imiti wakoresha wivuza izo ndwara zitandukanye.

Urumogi ni ibyatsi cyangwa ibimera byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho bivura indwara zitandukanye ariko hari n'abarunywamo itabi kuko bavuga ko ruryohera ariko ntabwo rwemewe hano mu Rwanda kuko iyo barugufatanye baragufunga.

Ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye urebye neza biri kugaragara nk'amapera ndetse n'urubingo ariko siko biri twebwe tuba tuzi ibyatsi bike cyane ariko ubu n’ubundi bwoko bw'ibyatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Agacupa k'umweru karimo imiti myinshi cyane ikoreshwa mu buvuzi bwa kinyarwanda, ni byiza cyane kugana mu bavuzi gakondo igihe ufite indwara z'amarozi.

Udusahani twinshi tugiye dutandukanye tw'uruziga turimo imiti myinshi igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, hakaba handitseho ngo ''ubuvuzi bw'ibimera ku isi cyangwa isoko bicuruza imiti y'ibimera''.

Indabyo nziza cyane ushoboye kuzireba ukagira ngo ni izo bifashisha mu bukwe, ariko izi zitwa kapusini zifashishwa mu buvuzi gakondo bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Uducupa turimo imiti igiye itandukanye, harimo agasa umweru n'akandi gasa umuhondo, hashushanyijeho ibyatsi, hakaba harimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Uducupa turi mu mabara y'umuhondo turimo imiti myinshi cyane igiye itandukanye, yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, imbere hakaba hari icyapa cyanditseho F cumi na gatanu gishushanyijeho n'umuntu, kiri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Uducupa dutambitse turiho ibyapa bigaragaza ibirimo, uko bigaragara harimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Icyatsi cy'ikimera cyameze ahantu mu gisambu, iki cyatsi rero iyo kimaze gukura baraza bakagisoroma, bakajya kugitunganyamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Agasahani k'umweru gateretseho akandi gasahani kameze nk'a gasorori na ko k'umweru karimo imiti y'umuhondo, harimo n'akantu kameze nk'uruziga wagira n'icunga rikasemo kabiri. Iyi ni imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Agacupa gatoya kanditseho vitolize, gasa umweru. Kariho ikirango kigaragaza vitolize, bigaragara ko karimo umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gihanga.

Agacupa ka Reishi kakaba kanditseho amagambo yamamaza avuga ngo ''igisubizo kuri amibe'' Reishi niyo yonyine ishobora guhangana na amibe ku kigero cyo hejuru.

Mu buvuzi gakondo bifashisha imiti myinshi igiye itandukanye, ushoboye kubona bino byatsi ukagira ngo ni ibyatsi bisanzwe ariko ibi birifashishwa mu buvuzi bwa gakondo bikavura indwara nyinshi zitandukanye ukaba wakira.

Ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye, harimo amatovu menshi atandukanye, akaba ahanda cyane, ariko abantu benshi ntabwo tuzi ko amatovu ari kimwe mu byatsi byifashishwa mu miti gakondo ivura indwara zitandukanye.

Ahantu hari imitandiko y'imiti igiye itandukanye ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, hari iri gusa icyatsi, umweru, umutuku ndetse n'indi imeze nk'ibishyimbo, hari agasekuru karimo umusekuzo ndetse ibi bintu ni ingirakamaro cyane.

Indobo ebyiri z'umweru zirimo ibintu bijya gusa icyatsi, uko bigaragara ni imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo.

Uducupa tugiye dutandukanye dupfundikije imipfundikizo y'ubururu n'icyatsi, dufite n'ibyapa bisa umweru, tukaba turimo imiti igiye itandukanye ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo.

Agakarito gasa umuhondo n'icyatsi gashushanyijeho akanyoni kari kuguruka, iruhande rwako hari ibinini bigera mw’icumi bifunze mu gashashi. Ibingibi bikaba bivura indwara zigiye zitandukanye za kinyarwanda.

Udusahani dutandukanye, turimo imiti igiye itandukanye, harimo isa umutuku, umweru, icyatsi, umukara, ndetse n'imeze nk'iroza. Ikaba yifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Ishusho y'imiti ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, aho iriho ibirango biri mu ibara ry'icyatsi, umuhondo ndetse handikishijeho amagambo y'umweru, inyuma hari ishashi ijya gusa kaki cyangwa ivu itagaragaza neza ibirimo.

Abana bavukiye mu mujyi, iyo bageze mu cyaro ibyatsi byose babonye babona ntacyo bimaze, bakaba babyangiza ariko ibi byatsi birafasha cyane kuko bikoreshwa mu buvuzi gakondo, ni byiza ko ikimera cyose wazajya ucyitaho kuko ari ingirakamaro.

Ibyatsi bifite utubabi tugiye dutandukanye, buri babi rimwe rikaba rigiye ririho utuntu dutanu, utu twatsi twifashishwa mu buvuzi gakondo aho tuvura indwara zigiye zitandukanye, dukoreshwa n'abavuzi ba gakondo

Udukoresho twa gakondo turimo ibintu bigiye bitandukanye, hari udusa umweru, udusa igitaka ndetse n'uturimo ibintu by'umweru, ibi ni imiti yifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Utubido tubiri dusa umuhondo dupfundikijwe imifuniko y'umutuku, ku mpande yatwo hari uducupa tubiri du gusa umweru, byose birimo imiti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye harimo n'amarozi n'izindi nyinshi cyane.

Agacupa gasa ubururu karambitse ahantu hafite umwe, munsi hari akandi gasa umweru gafite umupfundikizo w'ubururu, hejuru handitseho amagambo mu mabara y'ubururu aho bamamaza imiti iri muri utu ducupa yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Umuti wa Shampo ukoreshwa bavura abarwayi bafite indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu muti rero ukoreshwa mu buvuzi gakondo, aho baba bari kwita ku baje babagana bafite ikibazo cy'uburwayi, nakugira inama yo kugana mu buvuzi gakondo niba ufite indwara yananiranye kwa muganga.

Agacupa gasa umweru gateretse imbere y'iy'indi miti isa umuhondo, aka gacupa ndetse n'iyi miti byose byifashishwa n'abavuzi ba gakondo, aho baba bavura indwara zigiye zitandukanye.

Agacupa gasa umweru, kandikishijeho amagambo y'icyatsi, hatambitsemo umuronko w'icyatsi ndetse karimo imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ibyatsi by'ibimera bifite amababi agiye atandukanye. Ibi byatsi byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo aho babikoresha bavura indwara zitandukanye harimo n'amarozi.

Uducupa turerure cyane turi mu mabara y'umweru twandikishijeho amagambo y'icyatsi ndetse hashushanyijeho n'ibintu by'icyatsi, tukaba tugaragaza imiti ya gakondo ikoreshwa mu kuvura indwara z'amarozi.

Etajeri irimo uducupa twinshi tugiye dutandukanye, utu ducupa tukaba tugiye turimo imiti myinshi cyane ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo. Aho ugenda bakaguha umuti maze ukaba wakira.

Icyatsi gifite ububabi buto cyane butandukanye, kikaba giteye ahantu bigaragara nkaho ari mu busitani. Iki cyatsi ntabwo ari ururabo, ahubwo ni umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Uducupa dutandukanye duteretse ahantu hameze nko ku meza ariko hasa umweru, uducupa turasa umweru natwo, inzu ibikuta birasa umweru, utwo ducupa turimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda bumenyerewe nka magendu.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi ndetse na baji n'ipantaro y'umukara, akaba afashe ibyatsi mu ntoki, ibi si ibyatsi ahubwo ni imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, inyuma ye hari ibirango by'ubururu.

Ibiti birebire bitandukanye ndetse biteye ahantu hari ibiti byinshi cyane, harimo ibigufi n'ibirebire, ibi biti byose bikaba byifashishwa nk'imiti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye, ni byiza ko twita ku bidukikije kuko biba bifite umumaro munini cyane.

Uru rurabo ushoboye kurureba ukagira ngo nta kamaro rufite, ariko mu buvuzi gakondo ibi byatsi birakoreshwa cyane kuko bivura indwara zigiye zitandukanye, ni byiza ko tubyitaho kugira ngo bijye byifashishwa.

Uducupa tunini tureture dutandukanye, harimo utw'icyatsi, utw'ubururu, utw'umweru, twanditseho Infinite tukaba tugiye turimo imiti gakondo.

Umugabo wambaye iby'umukara uri mu busitani cyangwa muri pipinyeri, irimo icyapa cyanditseho imiti ya gakondo, hirya hari abandi bantu nabo baje gusura iyi miti ya gakondo.

Mu buvuzi gakondo inzobere ni zo zibasha kumenya icyatsi zikamenya ubwoko bw'umuti cyavamo, ntabwo ari buri wese wapfa kubimenya, iki cyatsi rero nacyo ni umuti wa gakondo, ni byiza ko tukibungabunga kuko kirafasha.